Iyi ni menu yo muri hoteri cyangwa bari, cyangwa resitorenti zigiye zikomakomeye, aho igaragaza ibinyiobwa, ibiribwa, ibisembuye, ibidasembuye, inyama z'inkoko, inyama z'inka, n'igiciro cya buri kintu.

Bara hano iwacu mu Rwanda dusangamo ibinyobwa bigiye bitandukanye, harimo ibyo kunywa abisembuye ndetse n'ibidasembute, aho usangamo inzoga zengerwa hano iwacu mu Rwanda cyangwa izituruka hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, aho dusangamo amacumi, amarogizi acumbikira abantu.

iyi ni menu cyangwa tarifu yo mu mahoteli amaresitora amabare agiye akomakomeye yo mu mijyi aho agiye haba hariho buri gicuruzwa n' igiciro cyacyo na buri kinyobwa n' igiciro cyacyo hariho ibiribwa n'igiciro ibinyobwa n'ibiciro byabyo

Iki ni icyapa cya amusiteri, kigaragaza puresi roji kwa Manga; aho hari umumotari utwaye umuntu umujyanye muri izo roji; hakaba hanaparitse imodoka z'ubwoko bwinshi: za vigo, amatoyota, amarandikuruza n'izindi modoka z'ubwoko bwinshi.

Iyi ni inzu ikorerwamo ubucuruzi bujyanye n'ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya, ibisembuye ndetse n'ibidasembuye, aho aha ari ku muryango, aho bakirira abakiliya, hari intebe z'umukara, akameza karekare, birasa nkaho abakiliya ariho batungukira neza neza ku muryango, ariho bicara baruhukira.

Uyu ni umuntu ucuruje ibinyobwa bigiye bitandukanye uhagaze kuri kontwari hari gufotora ubwoko bw'ibinyobwa bicuruje harimo za kanyange, henesi n'izindi nzoga z'ubwoko bwinshi amafanta ndetse n'amakofi atandukanye akaba ahari no kuri kontwari menu igaragaza buri giciro cya buri kintu.

Amaresitora n'amahoteri byo mu Rwanda dusangamo ibyo kunywa byinshi, harimo inzoga zengerwa hano iwacu, harimo n'inzoga zituruka hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, aho buri muturage asohokera agiye kuruhuka hamwe n'inshuti n'umuryango ndetse n'abakozi bakorana mu kazi, akahasanga ibinyobwa bigiye bitandukanye ndetse n'ibiribwa by'amoko menshi.

Iyi ni hoteli cyangwa bare cyangwa resitorenti, aho abakiriya bari kunywa ibinyobwa bigiye bitandukanye banarya, aho hari uri kunywa fanta, hari uri kunywa juwisi, hari uri kunywa amazi, bitewe na buri wese icyo abasha gufata nyine ni cyo yagiye kwaka muri iyo rersitorenti, aho muri hoteli habamo serivisi zigiye zitandukanye, haba harimo inzoga zisembuye, izidasembuye, ibiribwa n'ibinyobwa by'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye.

Hashize igihe kingana n'ibyumweru bibiri buri munsi abakozi ba emutiyeni babyuka bakaza ahangaha baje gutanga serivise za emutiyeni, bavuze ko ari igikorwa kizamara iminsi cumi n'umunani, ubwo rero urumva ko hasigaye iminsi ingahe? iminsi ine gusa.

Igihugu cyacu cy'u Rwanda dusangamo amabare, amahoteri ndetse n'amaresitora agiye akomakomeye, aho Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi baruhukira n'imiryango yabo ndetse n'abanyamahanga baturutse mu bindi bihugu, aho basangamo ibyo kunywa, ibiribwa, ndetse n'ibinyobwa bigiye bitandukanye, bityo ukabasha kwishimana n'umuryango wawe, n'inshuti zawe cyangwa abo mukorana mu kazi.

Amabare, amahoteli n'amaresitora byo mu Rwanda dusangamo ibyo kunywa bigiye bitandukanye, twavugamo ibyo kunywa bisembuye, ibadasembuye, amalikeri, amakokiteli n'ibindi byinshi. Twasangamo n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye tugasangamo amalogizi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. kuburyo buri mukiriya wese aje asaba serivise babasha kuyibona kandi mugihe gitoya bakabasha kumwakira.

Iyi ni bari cyangwa resitorenti ya pozo logi iherereye Kigali gilizi andi cilizi aho hamanitse icyapa cya amusiteri akaba ku ruhande hari ikirahure, iruhande rw'icyapa hari haparitse imodokari y'umweru, uwo wahamagara kuri nomero zeru karindwi mirongo inani na gatanu umunani umunani tanu gatatu miringo itatu na karindwi, ukeneye ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye n'izindi nyama z'ubwoko bwose cyangwa ibindi biribwa.

Mu ma bari, amaresitora, amahoteri byo mu Rwanda usangamo ibinyobwa bigiye bitandukanye, harimo inzoga zengwa n'inganda z'ahano iwacu, harimo nk'uruganda rwa burarirwa, uruganda rwa sikoro, uruganda rwa ingufu jini, uruganda rw'inyange, n'izindi nganda zigiye zitandukanye, aho usanga mo ibyo kunywa bidasembye muri ayo ma bari, ibisembuye, n'ibindi byo kunywa bigiye bitandukanye, ama juyisi, amafanta, n'ubundi bwoko bwinshi.

Amabare amaresitora n'amahoteri byo mu Rwanda usanga harimo ibintu byinshi bishimisha abantu baje bahagana, hakaba harimo utubyiniro, biyari n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye inzoga zengerwa hano iwacu mu Rwanda, iziva hanze y' u Rwanda ndetse n'ibindi biribwa biva hanze y' u Rwanda, ibikorerwa mu Rwanda, ibihingirwa mu Rwanda n'ibindi byinshi aho buri muntu ajya kuharuhukira n'umuryango we ndetse n'inshuti n'abaje baje mu Rwanda bakabasha kwishima.

Iyi ni menu igaragaza ibinyobwa wafata cyangwa ibiribwa wafata muri hotel cyangwa muri resitorenti wagiye kuruhukiramo. Aho bagaragaza inzoga z'amalikeri, inzoga zisembuye, zidasembuye, amafanta amajuyise, ibiribwa bigaragara muri iyo hoteli.

Iyi ni bare cyangwa resitorenti aho hamanitse icyapa uburyo wakwishyura ukoresheje momo peyi cyangwa wakwishyura ukoresheje mobayilo mani cyangwa uburyo wakwishyura ukoresheje eyateli mani, aho kuri kontwari hicaye umuntu uri kunywa icupa rya pirimusi n'undi muntu wicaye muri kontwari uri kwakira abakiriya.

I wacu mu Rwanda, dusangamo ibyo kunywa bigiye bitandukanye, ndetse bakanagatanga serivisi zitandukanye. Aho usanga batanga serivisi z'utubyiniro, serivisi z'aho baryama, serivisi zo kwerekana imipira n'izindi serivisi zigiye zitandukanye harimo iz'ibiribwa ndetse n'iz' ibinyobwa bigiye bitandukanye kandi ku giciro gitoya. Habasha kuruhukira abanyarwanda ndetse n'abatari abanyarwanda baturutse mu bindi bihugu bitandukanye

Nini yubatswe mu buryo buhezweho igaragara kuri iki cyapa ni imwe mu nzu z'ikitegererezo zubatse mu mugi wa Kigali, yubakishijwe ibikoresho biramba bigizwe n'ibirahure bitapfa kumeneka.

Amaresitorenti, amabare n'amahoteli byo mu Rwanda bigira amaloji yo kwakira bantu baje bahagana baje kuharuhukira, baba bamukerarugendo cyangwa ab'imbere mu gihugu baje kuruhuka, waba ari umuryango uje kwishima uje mu kiruhuko, waba ari umukozi uje mu kiruhuko akabasha kufata buri kinyobwa icyaricyo cyose kiba mu gihugu cy'u Rwanda.

iri n' icupa ry'inzoga yitwa sitamina riteretse kuri kontwari y'akabari gusa mu kabari hakaba hari serivise zigenda zitangwa ari nyinshi harimo kwerekana imipira igihe itandukanye kugurisha ibiryo ugurisha ibyo kunywa bye bitandukanye akaba harimo n amatara y'ubwoko bwinshi amatara y'icyatsi ay' umutuku ay' ubururu nandi matara agiye atandukanye n'abaseriveri bakaba ari bari kubakira

Uyu ni umucuruzi wo kuri bar, uri kwakira abakiriya, aho atanga ibinyobwa bigiye bitandukanye; bisembuye, bidasembuye ama rikeil, amacokutel isuka zikorwa na Bralirwa zikorwa na skohol ndetse n'ibiribwa bigiye bitandukanye; harimo inyama z'inkoko, inyama z'inkaburshete, n'ibindi biribwa byinshi byari bitandukanye bitewe na buri mukiriya icyo yifuza. Uwo mucuruzi akaba yambaye ibintu by'umukara gusa hosehose.

Iyi ni menu yo ma hoteli akomeye, aho haba hariho ibiribwa ibyo kunywa ibisembuye, ibidasembuye, amalikeri, amakokiteri agiye atandukanye buri kintu kiri muri iyo resitorenti kikaba kigiye kiriho n'igiciro cyacyo; aho wabasha gufata bitewe n'ubushobozi bwawe ufite.

Iyi ni kotwari yo muri bare cyangwa ku kabari cyangwa samutayimu kuri hoteri, hakaba hariho ibirahure bisukwamo inzoga amafope, hakaba hari umuntu urigutanga izo serivisi uhagaze kuri kotwari zijyanye no guha abantu ibinyobwa, ibiribwa ndetse no kwakira abakiriya baje bagana iyo bare.

Aba ni abaturage bari mu busabane aho bari kunywa inzoga z'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye harimo Mutzig, Amstel inzoga zengwa na BLARIRWA, inzoga zengwa n'uruganda rwa Ngufu Gin inganda zikorerwa mu Rwanda, aho bari kuri kontwari ubona bishimye banezerewe cyane cyane kuko ubona bari mu busabane.

Iyi ni menu y'ibinyobwa cyangwa diriki menu, igaragaza inzoga zisembuye harimo, za amositeri, henesi, mitsingi, sikoro, regasi, virunga, panashi, sinapu, panaga, soda, n'ibindi binyobwa bigiye bitandukanye, ibisembuye, ibidasembuye n'ibinyobwa by'ubwoko bwinshi, za konyage, zo muri samililitilo makumyabiri n'ebyiri n'ibindi byinshi.

Iyi ni kontwari irimo ibinyobwa bigiye bitandukanye inzoga z'ubwoko bwose harimo likeri zisembuye, hakabamo bazoka kofi, bazoka wisiki, hakabamo amahenesi, amakonyagi n'izindi byuma bigiye bitandukanye, ku ruhande hakaba hari tereviziyo yerekana imipira y'amashampiyona agiye atandukanye, amakuru, indirimbo n'ibitaramo bigiye bitandukanye.

Aka ni akapa kari mu iduka kerekana uburyo butandukanye ushobora kwishyura mu gihe waba uguze ibicuruzwa byabo. Aho bashyizeho uko ushobora kwishyura ukoresheje telefone, ntugire ikindi kiguzi ukatwa ndetse uko ushobora kwishyura ukoresheje ikarita.

Iyi ni menu ikoreshwa: mu mahoteli, amaresitora, amabare ndetse n'andi mahoteli agiye akomakomeye; aho igaragaza uburyo wakishyura ikintu cyangwa ugatumiza ikintu, bitewe n'igiciro cyacyo, bitewe n'ikintu ushaka.

Iki ni icyaba cya barebuke hawuze aho hari icupa rya virunga rya santimtero mirongo itatu n'eshatu, hakaba hari n'ikirahure bigaragara ko bacuruza inzoga zisembuye . Inzoga ya virunga ikaba yengwa n'uruganda rwa sikolo ruherereye mu nzove.

Ama hoteli n'ama resitora bya hano mu Rwanda, dusangamo amakayi agaragaza ibiribwa usangamo, ibinyobwa ndetse n'amacumbi yaho. Aho usangamo buri biribwa n'ibiciro byabyo, ibinyobwa n'ibiciro byabyo ndetse n'amacumbi cyangwa izindi serivise zigiye zitangwamo na buri giciro.

Iyi ni bare, aho bacuruza ibinyobwa bitandukanye ibisembuye, ibidasembuye, amakokuteri, amarikeri n'ibindi binyobwa binshi. Hakaba harimo n'ibyo kunywa, bakaba berekana imipira, bakaba berekana amashampiyona agiye atandukanye akomakomeye nka purimiya lige n'ibindi byinshi. Ukaba wasangamo n'ibyo kurya, amaburushete, inyama z'inka, inyama, z'inkoko n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Amabare, amaresitora ndetse n'amahoteli hakunze kugaragara inzoga zengerwa hano iwacu mu Rwanda, twavuga nk'inzoga zengwa n'uruganda rwa BRALIRWA, inzoga zengwa n'uruganda rwa SKOL n'izindi nganda z'aha iwacu mu Rwanda. Gusa abantu baje kuruhukira muri izo hoteli cyangwa resitorenti ahasanga n'amacumbi, ibyo kurya bigiye bitandukanye by'aha iwacu ku giciro gitoya buri wese akabasha kunezerwa na serivise yahawe.

Uyu ni umukozi wo kuri bare, aho bacuruza ibinyobwa bigiye bitandukanye n'ibiribwa, uhasanga ibinyobwa bisembuye, ibidasembuye, aho muri iyi bare harimo amatara y'ubwoko bwinshi, amatara y'umuhondo, amatara y'umutuku, amatara nyine agamije gushimisha abakiriya baje bagana iyo hoteli cyangwa bare, hakaba hari na televiziyo zishinzwe kwerekana imipira, amakuru, ibiganiro ndetse n'indirimbo ku baje bagana iyo hoteli.

amarikeri, amabare netse na marestora byaho. dusangamo ama club y'utubyiniro, aho barebera imipira itandukanye, aho dusangamwo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aho dusangamo aba DJ bacuranga imiziki igiye itandukanye ndetse n'amatara y'ubwoko bwinshi. Dusangamo amatara y'icyatsi, umuhondo ubururu, umutuku ndetse nandi matara y'ubwoko bwinshi.

Aka ni akabari gucuruza ibyo kunywa bagiye bitandukanye, harimo ibisembuye n'ibidasembuye, kokiteli, amalikeli, aho haje umukiliya wambaye umupira w'umutuku uhagaze muri kontwari, ucuruje wambaye umupira w'umukara, aho hasi hateretse ikesi y'inzoga za sikolo zikorwa n'uruganda rwa sikolo.

Abakozi bo muma bare, amarestora n'amahoteri usanga bakunze kurangwa n'umwambaro umwe ugaragaza akazi bakora ndetse cyangwa ugaragaza ndetse na hoteri bakoramo izina ryayo, harigihe usangamo serivise zigiye zitandukanye harimo serivise z'ibiribwa, izibinyobwa, serivise z'amacumbi, serivise zaho wakwidagadurira, aho warebera imikino itandukanye n'izindi serivise nyinshi.

Mu Rwanda hari amabare, amaresitorenti ndetse n'amahoteri agiye akomakomeye wasangamo ibyo kurya bigiye bitandukanye n'ibinyobwa, aho nko kuri iki cyapa harimo ibyo wagenda usanga muri ayo maresitorenti. Nko muri iyi resitorenti ya burenshi hawuzi, wasangamo Virunga n'izindi nzoga zigiye zikomakomeye harimo Henesi, ibindi biribwa bigiye bitandukanye, n'ibyo kunywa byinshi cyane.

Mu Rwanda dusangamo serivise zigiye zitandukanye. Muri izo serivise twavugamo serivise z'ibiribwa, iz'ibinyobwa, aho wacumbika, aho waruhukira n'umuryango wawe ndetse nawe ubwawe aho nawe wakorera siporo igihe icyo aricyo cyose.

Ibyuma bikozwe mu ikoranabuhanga rikomeye, ryifashishwa mu kubika neza igihe kirekire ndetse no gutunganya amata mu buryo burambye kandi bwiza bwizewe.

Amabare n'amaresitora byaha iwacu mu Rwanda bikunze kwakira abakire bagiye batandukanye, murabo harimo; abafata ibinyobwa bisembuye, ibidasembuye abaje kuharuhukira baje gukodesha amacumbi yaho, ibitanda byo kuraraho ndetse n'izindi serivise zigiye zitandukanye aho barebera imipira igiye itandukanye y'amashampiyona ndetse naho wakorera siporo.

Iyi ni kontwari yo mu kabari cyangwa muri hoteli zigiye zitandukanye cyangwa amaresitora, aho bacuruza ibinyobwa byinshi by'ubwoko bwinshi hakaba harimo inzoga zisembuye, zidasembuye, amafanta, amakokuteri hakaba harimo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ibyakabare na televiziyo bareberaho umupira abakiriya baje bagana iyo bare cyangwa iyo hoteli.

Amahoteri, amabare ndetse n'amaresitora byaha iwacu mu Rwanda, dukunze gusangamo ibyo kunywa bigiye bitandukanye ari ibyengerwa hano mu Rwanda cyangwa n'ibikorwa n'inganda zo hanze. Aho wanahasanga aho kuruhukira, ubwogero, dushe/tuwalete byo mu nzu ndetse n'intebe zo mu nzu zigiye zitandukanye aho wakicara ukavivimvira tugasangamo n'aho wakorera siporo.

Aba ni abaturage bari mu kabari, aho bicaye ku meza yandiitseho mitsingi. uwi hagati yambaye umupira w'umuhondo akaba afite icupa imbere rya sikoro raga. uwo ku ruhande akaba yicaye areba hirya afite icupa rya amusiteri, naho uwo hirya ku ruhande akaba yicaye imbere ye hateretse amacupa menshi. Hateretse peti mitsingi, sikoro n'amazi. Gusa inyuma hari umuntu uhagaze kuri kontwarii uri kwaka ibintu.

Amaresitora ndetse n'amahoteli ajya iwacu mu Rwanda usangamo serivisi zigiye zitandukanye. Harimo serivisi z'ibinyobwa, ndetse n'iz'ibiribwa, hakabamo serivisi z'aho kuruhukira, uburiri ndetse n'ama pisine yo kogeramo, intebe z'ubwoko bwose hakaba n'utubyiniro aho barebera imipira itandukanye y'amashampiyona n'izindi serivisi zigiye zitandukanye kandi ku biciro bitoya.

Aha ni muri resitorenti cyangwa bare cyangwa hoteri kuri kontwari aho bacuruza ibinyobwa bigiye bitandukanye ibisembuye ibidasembuye amakokuteri, harimo za fanta , za juyisi hakabamo amakofi n'ibindi binyobwa bigiye bitandukanye, hakaba n'ibiribwa bigiye bitandukanye harimo inyama z'inka, iz'inkoko amaburusheti, agatogo ibiki n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Iyi ni bare yo kuri resitorenti cyangwa hoteri zigiye zitandukanye. Aho hari ibinyobwa bigiye bitandukanye, inzoga bisembuye, izidasembuye. Aho kuri kontwari hicaye umuntu uri kunywa inzoga ya panashi, hari n'ikirahure. Hejuru kuri kontwari hamanitse televiziyo yanditsemo Henikeni, iri kwamamariza inzoga ya Henikeni.

AIyi ni kotwahi yo mu kabari, cyangwa muri bare, cyangwa resitora cyangwa hoteri zigiye zikomakomeye aho hateretse amacupa y'amarikeri y'ubwoko bwinshi cyane, hakabamo za henesi, za aluminiyamu, za redi warage, za bazoka kofi, za bazoka wisiki, n'ubundi bwoko bw'inzoga bwinshi bugiye butandukanye, n'amakoputeri y'ubwoko mbwinshi.

Amahoteri, amabara, n'amaresitora byo mu Rwanda. Bikunze kuruhikiramo abanyarwandakazi barangije akazi a, abaje mu biruhuko n'imiryango yabo, abanyamahanga baje gusura ibyiza by'u Rwanda, ndetse n'ibindi bikorwaremezo bitandukanye. aho barebera imipira, ibitaramo bakabasha no kwakira abahanzi bagiye baturuka bu bihugu bigiye bikomakomeye, kugira ngo kubasusurukirize abaje kubaruhukira.

Mu Rwanda hari amabare menshi, amahoteri ndetse n'amaresitora, aho Abanyarwanda biyakirira ndetse n'imiryango yabo, ndetse n'abanyamahanga baza baje gusura u Rwanda bakabasha kuhacumbika. Aho dusangamo ibyo kunywa n'ibyo kurya bigiye bitandukanye, harimo inzoga zisembuye n'izidasembuye, n'ubundi bwoko bw'ibinyobwa bigiye bitandukanye bituruka hanze y'u Rwanda.

Iki ni icyapa kigaragaza akabari ka PLAN BT bar and restaurant, aho hamanitse icyapa cya Skol Martin iri mu gacupa ka santimetero mirongo itatu n'eshatu, aho bigaragara ko hari amarogi ndetse n'ibyokezo, aho bacuruza inzoga n'ibindi bigiye bitandukanye.

Mu Rwanda hari amabarazi, amaresitora n'amahoteli agiye akomakomeye, aho abanyarwanda basohokera kugira ngo bishimane n'imiryango yabo ndetse banaruhuke, aho usangamo ibinyombwa bigiye bitandukanye ndetse n'ibiribwa ukabasha gutumiza ibijyanye n'ubushobozi ufite wowe n'umuryango wawe.

Iki ni icyapa cya Skol Martin, inzoga yengerwa mu Rwanda n'uruganda rwa Skol ruherereye mu Nzove, iki cyapa kikaba kiriho abagabo babiri n'abakobwa babiri bari kwamamaza iyo nzoga ya Skol Martin iri mu gacupa ka santimetero mirongo itatu n'eshatu.

Ama bare menshi yo mu Rwanda, usangamo ibinyobwa bigiye bitandukanye, harimo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, ibiribwa bitandukanye, yaba inyama zikomoka ku matungo, yaba ibikomoka ku buhinzi, ndetse n'izindi serivisi zigiye zitandukanye, harimo aho kuruhukira, aho waryama, aho wakogera, amapisine ndetse n'izindi serivisi nyinshi.

Mu Rwanda uhasanga amabare menshi, amaresitora ndetse n'amahoteli aho uhasanga ibyo kunywa bigiye bitandukanye harimo inzoga zisembuye, ibyo kunywa bidasembuye, amalikeri, amakokiterizi, ibyo kurya bigiye bitandukanye bakiriza abakiriya baje babagannye baba ari abakiriya b'abanyarwandakazi n'abatari abanyarwandakazi baturutse hanze y'u Rwanda baje baje gusura u Rwanda.

Bare cyangwa resitorenti cyangwa hoteli ikomeye, aho aka ari akabyiniro bari kunywa bishima, urabona ko muri bare harimo inzoga z'ubwoko bwinshi zigiye zitandukanye, ama henesi, ama likeri agiye akomakomeye, amakokuteri y'ubwoko bwinshi, ama fanta, inzoga zengwa n'inganda za hano mu Rwanda, harimo nka mitsingi, peti mitsingi, sikolo zengwa n'inzoga za sikolo n'uruganda rwa sikolo, hakabamo n'inzoga zengwa na buralirwa.

Iyi ni inzu ya sikolo maritini, ikaba ikorwa n'uruganda rwa sikolo, uruganda rukaba rutuye mu Nzove, iki ndabona ari icyapa cyamamaza iyo nzoga ya sikolo maritini.

Uyu ni umugabo uhagaze mu kabari cyangwa kuri kontwari y' akabari; akaba afite ibirahure bibiri bya mitsingi birimo inzoga, inyuma ye hakaba hari: amavide y'amarikeri, inzoga zigiye zitandukanye z'ubwoko bwinshi, hasi no muri etajeri, hakaba harimo n'izindi nzoga z'ubwoko bwinshi zigiye zitandukanye zo mu macyesi.

Aba ni abakozi bakora muri bare, hoteri cyangwa resitorenti, aho bahagaze bari kwamamaza ibinyobwa byabo, ibyo bacuruza, amarikeri, amafanta, serivisi batanga, ndetse bakaba ari abadamu babiri n'umugabo uhagaze hagati yabo.

Hari amabare nama resitora by'iwacu mu Rwanda usangamo ibyo kunywa bigiye bitandukanye. Harimo inzoga zengerwa hano iwacu mu Rwanda, izituka hanze y'igihugu, inzoga zuruvange zuruvange z'ubwoko bwinshi ndetse n'ibiribwa, amacumbi, ubwogero aho kuruhukira, aho waza ukishimana n'imiryango yawe ndetse n'abavandimwe n'inshuti.

Iyi ni kontwari iteretseho igikombe, kirimo inzoga za sikoru maritini za santiritiro mirongo itatu n'eshatu. Ku ruhande rw'icyo gikombe hakaba hateretse ikirahuri kirimo inzoga ya sikoru n'aho kuri kontwari y'akabari hakaba hari televiziyo nini irimo yerekana amashusho y'ibintu bigiye bitandukanye.

Aka ni akabari ko muri hoteli cyangwa resitora gacuruza ibyo kunywa ibisembuye cyangwa ibidasembuye, kakaba karimo amatara y'ubwoko bwinshi ay'icyatsi, ubururu, umutuku hakaba harimo n'andi mabara atandukanye n'ibirahure byo kunyweramo.

Iyi ni menu yo mu ma hoteri ama bar cyangwa ama restaurant agiye atandukanye agiye akomakomeye aho haba hariho ibyo watumiza ibiryo bigiye bitandukanye inyama z'inkoko inyama z'inka amafiriti nibindi bigiye bitandukanye aho hasi bakubwirango bonne appetit gusa kuri iyo menu haba hagiye ibiriho na buri giciro cyabyo wabasha gutumiza.

Nicupa rya santilitiro mirongo itatu ry'inzoga ya amusiteli ruhingwa n'uruganda rwa buralirwa ruherereye mu Rwanda mu karere ka rubavu, aho giteretse kuri kontwari hari n'ikirahure aho kuri kontwari hari na televiziyo ebyiri zerekana amashusho y'ibintu bigiye bitandukanye harimo; ibipira, amakuru, indirimbo, ibiganiro ndetse na intateyinimenti z'abasitari zigiye zitandukanye.

Amabare n'amaresitora by'aha iwacu mu Rwanda usangamo ibiribwa ibyo kunywa bigiye bitandukanye, intebe z'ubwoko bwinshi, zaba iz'umuco wa kinyarwanda cyangwa izituruka hanze y'igihugu, aho usanga hajemo abantu baje babagana, baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye cyangwa mu ba hano iwacu mu Rwanda, bakabasha guhabwa serivise nziza kandi zinoze.

Iyi ni fagitire igaragaza ibyo wafashe muri hoteri, resitora cyangwa bare. Haba hariho ibyo kunywa n'ibyo kurya bitewe nibyo wagiye ugafata, dore nkuyu nguye yafashe totari ingana n'ibihumbi ijana na mirongo ine na bibiri n'amafaranga magana atatu, bigaragara ko ariyo mafaranga yakosomye muri iyo hoteri, cyangwa resitoreti, cyangwa bare.

Ibi ni ibiribwa n'ibinyobwa biteretse ku meza y'umukiliya aho yatumije ibyo kurya n'ibyo kunywa byatekewe muri hoteli cyangwa resitorenti aho yakiriwe n'abantu bagiye batandukanye haba ari inyama z'inkoko zaba n'inyama z'inka ibyo yatumije bakaba ari byo bamuzanira hakaba hateretse n'ikrahure kirimo inzoga.

Iki ni kirahure giteretse kuri kontwari yo mu kabari. Ikirahure kikaba kirimo inzoga ya Amusiteri. Gusa muri etajeri hirya hakaba harimo inzoga z'amoko menshi zigiye zitandukanye, amarikeri, amakokuteri, hakaba hari n'icyokezo cy'ifuru bokerezamo ibirayi n'ibindi byinshi, n'inkoko. Akaba ari resitorenti itegura ibintu byinshi nyine.

Mu ma bar, amaresitora, amahoteri byo mu Rwanda bikomeye dukunze gusangamo ibyo kunywa bigiye bitandukanye aho twavugamo nk'inzoga zengwa n'uruganda rwa SKOL, inzoga zengwa n'uruganda rwa BLARIRWA, ibyo kunywa bidasembuye byengwa n'uruganda rwa BLARIRWA harimo nka fanta n'ibindi byo kunywa bigiye bitandukanye, tuhasangamo ibiribwa ndetse n'ama lodges abantu baruhukiramo baje bagana iyo hoteli cyangwa bar cyangwa restaurant.

Iyi ni kontwari cyangwa bare, yo kuri resitora runaka, aho ubasha kugura ibinyobwa bigiye bitandukanye, ibisembuye, ibidasembuye, inzoga z'amoko yose, amarikeri, amakokuteri n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, aho hagaragara na televiziyo zo kureberaho imipira, amakuru n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye warebera ku mateleviziyo bitewe n'ibyo wishimiye, indirimbo n'ibindi byinshi.

Amabare menshi, amahoteri n'ama resitora agiye akomakomeye, aho wishyura ibyo kurya, ibyo kunywa bigiye bitandukanye, wasohokanye n'inshuti zawe, umuryango ndetse n'abo mukorana mu kazi. Mukabasha kwishimana muri kumwe muri rusange.

Izi ni inshuti cyangwa umuryango baje kwiyakirira muri hoteli cyangwa resitorenti, aho bari gufata ibinyobwa bigiye bitandukanye. Hari abari kunywa fanta, mitsingi, hari abari kunywa amusiteri hakaba ari abaturage bane; abagabo babiri n'abagore babiri baje gusabana.

Aya ni ameza ateretseho ikirahure n'icupa rya Virunga, iryo cupa rya Virunga rikaba rifite santilitiro mirongo itatu n'eshatu, icyo kirahure kikaba gisutsemo inzoga ya Virunga nyine nkuko bigaragara. Iyo nzoga ya Virunga ikaba yengerwa mu ruganda rwa SKOL ruherereye mu Nzove.

iyi ni comptwar ikabati uretse inzoga ya virunga ndetse n'ikirahure gusa muri contwari y'akabari hakaba harimo zitandukanye z'ubwoko bwinshi hakaba harimo markels byo mu macupa maremare ya malake amacupa magufi za coyas sanguvu za unite djn n'izindi nzoga zigiye zitandukanye z'ubwoko bwinshi n'ibyo kunywa bidasembuye za fanta cofi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye

Aya ni amacupa atatu y'inzoga ateretse ku meza akorwa n'inganda ebyiri zitandukanye zir imu rwanda harimo uruganda rwa sikolo n'uruganda rwa burarirwa. ku ruhande rw'ibumoso hari inzoga ya peti mitsingi bazinka agapeti ikorwa n'uruganda rwa bralirwa hagati hakaba harimo inzoga ya sikolo izwi nka peti sikolo ikorwa n'uruganda rwa sikolo ku ruhande hakaba hari inzoga ya amusiteri ikorwa n'uruganda rwa buralirwa

Iki ni icyapa cyamamaza inzoga ya sikolu matine aho iyo nzoga iri mu icupa rya sintimetero mirongo itatun'eshatu inzoga ya sikolu matine, ikaba ari inzoga yengwa n'uruganda rwa sikolu ruherereye mu nzove mu ntara y'umugi wa Kigali.

Ibyo kunywa za Iwacu mu Rwanda, usanga zenga ibyo kunywa byinshi, harimo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hari izegwa n'uruganda rwa Skol hakabamo inzoga zengwa n'uruganda rwa BRARIRWA, aho usanga benga ibyo kunywa by'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye.

Aka ni akabari kamanitseho icyapa cya jemusoni hakaba harimo abantu babiri uri kwishyurwa n'uri kwishyura, uri kwishyura akaba ari gukoresha ikarita ya beka, noneho uri kwishyurwa akaba ari gukoresha terefone bari gukozaho cyangwa akamashini bari gukozaho iyo karita.

Ubu ni uburyo bakoresha muri bare bwo kwishyura ukoresheje visa cadi, aho iyo karita ibaho amafaranga warangiza ukishyura ibinyobwa ndetse n'ibiribwa wariye bya ibisembuye cyangwa ibidasembuye ukoresheje ikarita visa cadi aho ukoza ku cyuma yarangiza amafaranga akaba avuyeho amafaranga wakosomye uri muri iyo restaurant cyangwa hoteli.

Amabari mu ma resitora n'amahoteli byo mu Rwanda dusangamo inzoga zikunze kwengerwa hano iwacu mu Rwanda twavugamo nka sikolo marite iri kuri icyo cyapa iri mu icupa cya santilitilo mirongo itatu n'eshatu twavugamo n'izindi nzoga zengwa rw'aha iwacu rwa bularirwa n'izindi nzoga z'amoko menshi ziturutse hanze y' u Rwanda aho buri muntu yabasha kwaka icyo abasha ndetse kugiciro gitoya.

Aba ni abantu babiri bicaye kuri kontwari kukabari aho bari kureba umupira w'amaguru, umugabo umwe yambaye umupira w'umukara n'akagofero k'umukara undi yambaye ishati yakarokaro, bakaba bari kureba umupira w'amaguru muri shapiyona z'i burayi zigiye zitandukanye harimo Premier League ni zindi n'izindi, bakabicaye k'untebe ndende z'umukara mu akabari.

Izi ni keke eshatu ziteretse ku meza ziri kw'isahane, aho izi keke wazifata uri kunywa amata, icyayi, inshyushyu n'ibindi binyobwa bigiyebitandukanye, ji, za fanta. Aho wafata izi keke uri kunywa ibyo bintu.

Uru ni uruganda rw'inyange cyangwa inyange Milk zone aho rutunganya amata ndetse n'ibikomoka ku mbuto bakabasha kubiteguramo umutobe (jus) aho amata aba ari mu bipfundikiye bitandukanye ahari mu tw'arindwi, ahari mu dukarito nibindi byinshi. Aho ugemura amata cyangwa imbuto bakabasha kubikuramo umusaruro (products) ugiye utandukanye Kandi iyo mi ikabikwa igihe kigiye gitandukanye.

Ubu ni nubujerekani bune bw'umweru buteretse ku murongo, hirya hakaba hari ubujerekani bubiri, kamwe k'umweru, n'akandi k'umuhondo gafite umufuniko utukura, ubu bujerekani bune bw'umweru buri ku murongo hakaba hariho ibimenyetso byabwo, hari akanditseho boyi, hari kakanditseho, nyabugingo, hari n'akanditseho viseni, bigaragara ko bwoherehejwe ba nyirabwo bategereje kuza kubufata.

Iri ni iduka cyangwa arimantasiyo, cyangwa kantine wasangamo amata n'ibindi birenga bigiye bitandukanye. Hakaba hamanitse icyapa cyanditseho Nyanza miriki indasitiri, amata y'Inyaza acururizwa aho hantu. Hakaba hari amata ari mu bipimo bigiye bitandukanye, utwarindi, utwane n'ibindi bipimo bigiye bitandukane. Hasi hakaba hari n'ibyo kurya bigiye bitandukanye wafatisha ayo mata wahasanze.

Iyi porodakiti iri mundobo ni porodagiti y'amandazi, aho ikorwa mu ifarini, amata ndetse na capamandazi ndetse pakimaya kubantu bakunda amandazi manini. Aho wayasanga mumarimantasiyo, mumabutike, mumarestorenti agiye atandukanye, ahantu hose wafatira ibyo kurya, wahasanga amandazi n'ibyo kunywesha wabihasanga.

Uruganda rw'inyange rukorera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda rutunganya ibinyobwa bigiye bitandukanye. Twavugamo umusaruro ukomoka ku matungo ndetse n'ukomoka ku buhinzi. Mu komoka ku matungo twavugamo amata ahakorwamo amata y'inyange cyangwa hagakorwamo za yawurute, ukomoka ku matungo twavugamo ji z'inyange zikorwa mu matunda, ji zikorwa mu mapome ndetse n'ibindi biribwa bigiye bitandukanye, aho babicisha mu mashini bakabasha kubikuramo imitobe.

Iri ni iduka cyangwa arimantasiyo cyangwa kantine icuruza ibinyobwa bigiye bitandukanye aho abakiriya baza babagana babaka amata, amaji, amafanta n'ibindi binyobwa bigiye bitandukanye, hakaba harimo n'ibyo kurya harimo amacapati, amandazi, ibiryo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, aho uyu muturage yaje akaka igikombe cy'amata bigaragara ko ari amata y'ikivuguto.

Iri ni iduka riherereye mu karere ka Nyanza, ricuruza amata y'ubwoko bugiye butandukanye, harimo ikivuguto, inshyushyu, yahurute abenshi bazi nka yogati. Ayo amata akaba agiye ari mu bipimo bigiye bitandukanye, ari mu njerekani, akarindwi, akane, akatatu no muri litiro. Gusa hejuru kuri kontwari hakaba hateretseho inkongoro abenshi bazi nk'ibyansi bakamiragamo amata.

Iri ni iduka ricuruza ibinyobwa bigiye bitandukanye cyangwa kantine cyangwa alimatasiyo, ricuruza ibinyobwa bigiye bitandukanya haririmo ji za maritini, amazi ji za novida, ji za tuwisite n'izindi ji z'bwoko bwinshi bugiye butandukanye aho ibiciro bigiye bitandukanye wowe ukabasha gufata ibihwanye n'ubushobozi bwawe kuko harimo n'amafanta yaza magana cyenda n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, amata ndetse n'amayahurute.

Iyi ni kantine iherereye ku muhanda, aho kuri kontwari hateretse indobo irimo amandazi, hirya hateretse indi ndobo bigaragara ko irimo ibiribwa, bakaba banacuruza ibyo kunywa bigiye bitandukanye byo gufatisha amandazi ateretse kuri kontwari.

Iri ni iduka ricuruza ibiribwa n'ibinyobwa bigiye bitandukanye. Harimo amata, amandazi, amaji, amafanta n'ibiki. Gusa kuri iyi foto haragaragaraho umuntu ufashe capati mu ntoki na seriviyete ari kurya kuri kontwari, nimba atari ku meza.

Uyu ni umubyeyi w'umucuruzi uhagaze mu nzu ya kinyarwanda nkuko inyuma ye bigaragara akaba acuruje ibikomoka ku mata harimo ibipimo bigiye bitandukanye hari amata yikivuguto ari mutujerekani tugiye dutandukanye harari mu dukombe harari mu dupipiri bitewe nigipimo buri muntu aza ashaka nyine n'ingano akeneye niyo mata acuruza

Iri ni iduka ricuruza purodakiti zituruka ku nyange, kikaba ari icyapa kigaragaza ko ari Inyange miliki zone. Ku ruhande hakaba hateretse udukarito tw'amazi tw'inyange, ji n'amata yo mu dukarito. Ku rugi hakaba hariho icyapa cyerekana umwana uri kunywa amata y'inyange.

Iyi ni arimantasiyo cyangwa kantine, iherereye mu karere ka Nyanza disitirigiti, aho bacuruza ibinyobwa bigiye bigiye bitandukanye, harimo amata y'ikivuguto, amata y'inshyushyu, za yahurute na jus z'inyange n'izindi jus zigiye zitandukanye; gusa hanze hakaba hari amazi ya Jibu aba muri ritiro makumyabiri, aba mu bipipiri birebire.

Aya ni amata yogati cyangwa abenshi bakunze kwita yahurute, akorwa n'uruganda rw'amasaka retsi, aho aboneka mu bipimo bigiye bitandukanye aha ari mu dukombe, ari mu ducupa, n'andi y'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye, aba akaba ari abakozi b'uruganda rw'amasaka iziretsi aba bambaye imipira, ukaba wayabona muri arimantasiyo zigiye zitandukanye, amasupamaketi n'amakantine n'andi mashopu y'ubwoko bwinshi aboneka mu mujyi aho ariho hose.

Aba ni abantu bari muri kantine bari kunywa amata, aho ku meza hateretsa ijage ebyiri zirimo amata y'ikivuguto, nabo bakaba bafite ibikombe bitatu, bigaragaza ko ari abantu batatu bari kunywa amata y'ikivuguto.

Izi ziri ku isahani ni capati zikaba zikorerwa mu ifararini, ucapa amandazi aho uroringa washyize ku meza agakombe k'ifarini waponze n'amazi cyangwa n'amata warangiza ugashyiramo amavuta.

Iyi ni porodagiti y'imigati ikorwa muri ingirediyanti zigiye zitandukanye harimo ifarine, amata, capamandazi, n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Aho ushyira mu ifuru warangiza ukaza kubikuramo ukawukata ushaka gukuramo ibice ukaba ari umugati witwa kupekupe.

Uru ni uruganda cyangwa ikusanyirizo ry'amata aho umuturage agemura amata mu gicuba, bakabasha kumwishyura ndetse akabona inyungu n'uruganda rukabasha kuyatunganya amata akabikwa igihe kirekire kandi akabikwa afite uburambe, ari muri pakeji zizewe mu bikarito byiza ndetse no mu bujerekani busukuye.

Isosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya eyateri yabazaniye amaterefone meza cyane ku amafaranga make cyane aho kubihumbi bisaga makumyabiri byawe ubasha kuybikaho ukajya uganira n'inshuti n'abavandimwe.

Mu Rwanda hari inganda zegereye abaturage zitunganya amata, aho abaturage bajyana umusaruro ukomoka ku mata akabasha gutunganwa akazabikwa igihe kirekire. Aho umuturage yishyurirwa kuri litiro bitewe n'amata yagemuye akabasha kwishyurwa, twavuga nk'uruganda rw'INYANGE indasitiri, MUKAMIRA dayari, twavuga na NYANZA indasitiri n'izindi nganda ziri mubaturage aho bagiye batuye mu mirenge yabo ndetse no mu turere.

Iyi ni kantine icuruza ibikomoka ku mata cyangwa alimantasiyo yitwa royo fuleshi miliki porodagiti hakaba harimo amata y'inyange, yahurute, amata yo mu dukarito, ayo mu dukombe ndetse n'ayo mu dupapuro.

Uyu ni umucuruzi w'amata y'ikivuguto cyangwa amata y'inshyushyu, aho ari kubuganiza amata ayakura mu ndobo ayashyira mu kajerekani k'ane, ku meza hirya hakaba hateretse akandi kajerekani gatoya bigaragara ko na ko agacururizamo amata.

Iyi ni inzu itunganya amata hakaba n'ibyo kurya n'ibyo kunywa bindi bigiye bitandukanye, harimo amata, inyange, za Nyanza indasitiri miliki n'ibindi byo kunywa bigiye bitandukanye, hakaba hari umukobwa ukoramo aho ngaho akaba ari gutanga serivise ku bakiliya baje bamugana abaha amata ndetse n'ibinyobwa n'ibiribwa bigiye bitandukanye.

Mu Rwanda hari amaduka meshi acuruza ibikomoka ku mata ,nko muririduka twavugako harimo amazi ,gusa hejuru muri etajeri hakaba harimo ibyatsi byakoreshwaga cyera mumuco nyarwanda bakama cyagwa baha abana amata ,ababyeyi n'abandi bantu mumuco wa kinyarwanda baka aribyo banyweragamo amata.

Iyi ni alimantasiyo yitwa ikaze dayari aho icuruza ibikomoka ku mata, harimo amata y'inyange, yahurute z'inyange, ji z'inyange zo mu bikarito n'izo mu dupipiri n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye imigati, amandazi, amacapati, amakeke n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bikomoka ku bworozi bw'inka ndetse no ku matungo.

Iri n'iduka ry'umucuruzi aho acuruza amata y'inyange, yogati z'inyange zikorerwa Inyanza aho umucuruzi witwa Liberata yashizeho nimero yo wamwishyuriraho ariyo nimero 0788272887 amazina akaba yanditse kuri Liberata aho acuruza amata ndetse n'ibindi binyobwa bigiye bitandukanye.

Uruganda rw'inyange ni uruganda ruri mu Rwanda. Rukaba rutunganya umusaruro ukomoka ku mata, akazabasha kubikwa igihe kirekire. Rukaba runatunganya umusaruro ukomoka ku bihingwa, bagakoramo amaji. Hari ji zikorwa mu nanasi, ji zikorwa mu matunda, ji zikorwa mu mapome, na ji z'ubundi bwoko bwinshi bugiye butandukanye, aho bazishyira mu bipimo bigiye bitandukanye, utwarindwi, mu bipipiri no mu dukarito.

Iyi ni porodagiti y'irindazi aho ikorwa mu bintu bigiye bitandukanye, harimo ifarini, amata, amagi, capamandazi, pakimaya n'ibindi bihiye bitandukanye. Aho irimo intungamubiri nyinshi abantu baje bagana ahantu hacururizwa amata, icyayi, inshyushyu, amajuyisi n'ibindi byinshi bigiye ibyo binyobwa ari byo wafatisha iri rindazi.

Iyi ni kantine cyangwa shopu cyangwa arimantasiyo icuruza amata ya yogati. Ayo mata akaba akozwe mumata y'inka bakongeramo izindi porodagiti zigiye zitandukanye, harimo amata ari mu ducupa, amata ari mu tupipiri, amata ari mu bujerekani bugiye dutandukanye bitewe n'ibipimo ugiye ushaka, ayo mata yongerwamo izindi porodagiti n'isukari n'ibindi bigiye bitandukanye, hakabamo na sitoroberi ayo mu nkeri.

Iri ni iduka ricuruza amata cyangwa arimantasiyo icuruza amata ya Mukamira dayari. Amata akomoka mu karere ka Nyabihu aho uruganda rwa Mukamira dayari ruherereye mu karere ka Nyabihu. Akaba apangwa cyangwa akaba bayashyira mu tuntu tugiye dutandukanye. Hari ari mu dukarito, ari mu tujerekani, amata ya yahurute cyangwa yogati, akoze muri sitorowu beri n'andi akoze mu zindi mbuto zigiye zitandukanye.

Iyi ni alimantasiyo cyangwa iduka rya Nyanza miliki indasitiri aho bagurisha amata agiye ari mu bipimo atandukanye amata yo mu twarindwi nk'uko bigaragara ku cyapa, ayo mu tujerekani tw'atatu, ayo mu tejerekani tw'ane, amata yo mu bikombe azwi nka yawurute, amata yo mu bikarito n'andi mata agiye atandukanye, aho wabahamagara kuri nomero zeru karindwi mirongo icyenda makumyabiri na karindwi mirongo ine na kane mirongo inane n'icyenda bakabasha kukugezaho ibicuruzwa.

Iri ni ikusanyirizo ry'amata riherereye muri Nyanza disitirigiti; aho riherereye mu murenge wa Nyabisindu, aho abaturage bagemura amata yabo kugira ngo bayatunganye abashe kuzamara igihe kirekire abitswe kandi abitse neza, afite n'ubuziranenge ndetse n'isuku nziza.

Uyu ni umucuruzi w'amata, aho yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ikoboyi, aho ari kwakira abakiriya avana amata mu ndobo, yarangiza akayakubita n'umutozo kugira ngo amata abashe kuba ikivuguto kiza kinoze, akabasha kwakira abakiriya bakayanywa nta mpungenge banishimye.

Uyu ni umuntu uri kubuganiza amata ayakura muri jage ayasuka mu kajerekani k'arindwi. Biragaragara ko ari amata y'ikivuguto afashe cyane, ari kuyasuka mu k'arindwi kugirango ayacunde, abashe kuba amata meza, atari amata afashe cyane.

Iri ni iduka ricuruza amata agiye atandukanye, hakaba harimo umuntu uri kwakira abakiriya, ku menza hakaba hariho ubwarindwi bw'amata, n'igicuba kizamo amata, abantu baje kwaka serivisi bakaba bari kunywa amata bari kurisha n'ibindi bigiye bitandukanye.

Mu gihugu cy'u Rwanda cyacu, hari imashini nyinshi zitunganya umusaruro ukomoka ku mata, izo mashini zikaba ziherereye mu nganda zigiye zitandukanye, muri buri turere aho hari imashini zifata umusaruro ukomoka ku mata w'abaturage ajyana amata ku giciro cyo hejuru bakabasha kumwishyura, akabasha kwiteza imbere agateza n'umuryango we muri rusange.

Iri ni iduka ricuruza amata y'inyange, ji z'inyange zo mu bikarito ndetse n'izo mu dupipiri. Hakaba hari umubyeyi waje guhaha uhagaze imbere y'ayo meza hateretseho jage, hakaba hari n'umuntu hirya muri kontwari uri gukura amata mu mashini ayasuka mu ndobo bigaragara ko aje kugurisha.

Iyi ni ikarito y'inyange ya litiro imwe ikungahaye kuri vitamine c iyo ji ikaba ikozwe mu mutobe w'amatunda aho uruganda rw'inyange rukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye harimo; amata, inyange hakabamo amaji y'inyange zikozwe muri pome izikozwe mu nanasi zikozwe mu matunda n'ibindi byinshi hakaba hari na porodakiti nziza nyinshi cyane amazi n'ibindi byinshi cyane.

Iri ni iduka ricuruza ibinyobwa bigiye bitandukanye, harimo ji z'inyange, amata y'inyange, ji z'inyange zo mu dupipiri zo mu dukarito, hakaba hari muri etajeri ikarito y'amandazi, hakaba hari abaje kugana iryo duka n'umucuruzi uri kubakira ku ruhande hano gatoya hakaba hateretse imashini itunganya amata, kugirango amata amare igihe kirekire adapfuye.

Uyu ni umucuruzi w'amata aho ari gusuka amata mu bikombe bine, bigararagra ko agiye kwakira abakiriya bane, inyuma ye hakaba hari etajeri n'itaburiya imanitse ku gikuta.

Aya ni amazi yo mururu ruganda rwa nili bikaba bigaragara ko bino ari ibicupa birebire bifite litiro nigice uru ruganda rwa nili rukaba rufite isoko muri parike ya akagera iherereye muntara yi iburasirazuba.

Iri ni iduka cyangwa shopusi ricuruza amata y'inyange cyangwa itunganya amata y'inyange, aho hari icyapa cy'inyange milike zone, bigaragara ko batunganya amata azanwa n'abaturage , abaturage bakabasha kwishyurwa, amata akabasha gutunganywa akazamara igihe kirekire.

Iri ni iduka ricuruza ibinyobwa bigiye bitandukanye, aho muri kontwari hateretsemo amajerekani abiri, bigaragara ko aya majerekani azamo amata, bagemuramo amata, ayo mata akabasha gutunganywa akazabikwa igihe kirekire, akazabikwa ahantu heza kandi hizewe.

Iyi ni inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata aho ku rugi hamanitseho icyapa kigaragaza ko ari Nyanzi miliki indasitiri amata akorewe mu nganda z' i Nyanza, aho benshi bazi nko ku mayaga hakunzi kuboneka amata menshi cyane kandi meza nko kwa haji n'ahandi hagiye hatandukanye mu karere ka Nyanza.

Ni ku ikusanyirizo, aho aborozi bajyana amata, akabasha gutunganywa agacishwa mu mashini, akazamara igihe kirekire abitswe adapfuye, kandi buri mucuruzi akishyurwa, aho ngaho kuri iyo foto biragaragara ko uwo ari umukozi ukora muri urwo ruganda uri kubuganiza amata ayakura mu gicuba, ayashyira mu mashini.

Uru ni uruganda rw'Inyange miriki zone, aho uzana amata akabasha gutunganywa, ayo mata akazabikwa igihe kirekire kandi ari muri pakeji zifunze neza, hari amata aba ari mu twarindwi, amata yo mu dukarito, amata ya yahurute y'Inyange n'andi mata y'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye, aho banakora amajuwisi, aho umuturage azana amata bakabasha kumwishyura ku giciro, na we akiteza imbere.

Aba ni abadamu babiri bacuruza porodakiti zikomoka ku mata cyangwa n'ibindi binyobwa bigiye bitandukanye, aha bari kwamamaza amata yo mu dukarito y'inyange ari mu gacupa ka litiro imwe, aho inyuma yabo hari firigo babikamo izo porodakiti kugira ngo zitaza gupfa kugira ngo zikomeze kugira uburambe kandi zinafite ubuziranenge.

Iyi ni etajeri igaragara ko iteretsemo ubwarindwi. Ubwarindwi bukaba burimo amata. Amata akaba agiye agurishwa ku giciro gitandukanye harimo ay'inshyushyu, ikivuguto n'andi mata menshi. Amata akaba akenshi akunze guturuka mu bice byo mu Mutara no mu Mayaga ahazwi nk'i Nyanza no muri za Nyagatare hakunze kuboneka amata.

Iyi ni shopusi cyangwa iduka ricuruza ibyo kurya bigiye bitandukanye n'ibyo kunywa; hakaba muri etajeri hateretsemo ibikombe by'ingano zigiye zitandukanye: ibikombe by'amacupa, ibikombe by'ibice by'icupa hakabamo n'ibirahure; hejuru kuri kontwari hakaba hateretsemo indobo y'amandazi, naho hejuru muri etajeri hakaba hateretsemo: amata y'inyange yo mu dukarito, ji z'inyange ndetse n'amazi ya Nil, ndetse n'amazi y'inyange afasha kwakira abakiriya.

Izi ni isambusa ziteretse ku isahani, isambusa zikaba zikorwa mu bintu bigiye bitandukanye harimo isambusa z'inyama z'inka, isambusa z'inyama z'inkoko, isambusa z'inyama z'ihene, aho bakora igipapuro cy'inyuma bashyiraho n'inyama bagikoresheje ifarine n'izindi ingredients zitandukanye.

Izi ni imashini zitunganya amata. Ukabona ko ari amata ategurirwa i Nyanza, Nyanza Miliki Indasituri, aho ari uruganda rutegura amata rw'i Nyanza, aho umuturage azana amata ku giciro runaka bakabasha kuyatunganya, ayo mata akazamara igihe kirekire abitse, atarapfa, kandi ari amata yujuje ubuziranenge.

Ibiribwa by'amajyi ni umusaruro ukomoka ku matungo magufiya ayo matungo akaba ari amatungo y'inkoko aho buri mutura Rwanda wese ashishikarizwa kujya yorora itungo ry'inkoko aho abasha kubona umusaruro ukomoka ku matungo nk'amajyi ayo majyi akayagaburiramo abana akaba ari intungamuburi zujuje ubuziranenge ndetse akabasha kubona amafaranga.

Aya n'amata ari mukajerekani karindwi, akaba ari amata y'ikivuguto cyangwa Inshyushyu akaba ategurwa n'uruganda rw'Inyange cyangwa mukamira dayari, mukamira iherereye mukarere ka Nyabihu.

Ibi ni ibyo kurya, benshi bazi nk'ibiraha cyangwa ibinyaburayi. Aho bikozwe mu ifarini ndetse n'ibirayi, ibi biryo bikaba bikunzwe kuribwa n'abanyeshuri, bikunze kugaragara mu ma alimentation, mu ma super market, no mu ma shop ayo ari yo yose acuruza ibyo kurya.

Mu rwanda tuhasanga indanda nyinshi zitunganya amata ya Yahurute cyangwa Yogati. Aho twavuhamo nk'uruganda rw'Inyange, uruganda rwa Nyanza mirike indasitiri, uruganda rwa Mukamira dayari, ahari amata akungahaye ku ntungamubiri nyinshi ndetse no kuri vitamine.

Amaduka ya hano iwacu mu Rwanda acuruza ibinyobwa bigiye bitandukanye ndetse n'ibiribwa, muri ibyo twavugamo umusaruro ukomoka ku matungo magufi ndetse n'amatungo maremare twavugamo amata y'inka ndetse n'amagi n'ibindi biribwa byinshi bigiye bitandukanye bikomoka kubihingwa duhinga hano iwacu mu Rwanda.

Aba ni abantu babiri aho umwe yicaye undi ahagaze, bisa nk'aho bari muri kantine icuruzwamo ibintu byo kurya n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye harimo amatama, amajuwizi ya novida, milinda juwizi, imigati y'amandazi n'ibindi byo kunywa bigiye bitandukanye amacapati, amakeke n'ibindi byinshi.

Aya ni amata ya yahurute cyangwa benshi bakunze kwita yoghurt, amata yo mu dukombe amata aryohera harimo isukari nyinshi akaba ari amata avanze n'isukari n'izindi produit hakaba harimo strawberry akoze muri strawberry mu nkeri, harimo pome, harimo n'izindi ingredients zigiye zitandukanye.

Uru ni uruganda rutunganya amata ruherereye mu karere ka Nyanza, aho izi mashini za Nyanza Milk industry zitunganya amata akazabasha kubikwa igihe kirekire adapfuye, aho amata apakirwa mu bipimo bigiye bitandukanye harimo utujerekani tw'arindwi, udukarito azakorwamo za yawurute, n'andi mata y'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye.

Aha ni mu kabari, akaba ari mu masaha ya ninjoro. Hicayemo abantu babiri bari kureba ku nyakiramashusho yabo umupira w'amaguru, ariko bananywa inzoga, ndetse n'inyuma y'inyakiramashusho hari inzoga zigiye zitandukanye z'amoko menshi cyane.

Aba ni abantu batatu, abahungu babiri n'umukobwa umwe. Bakaba bari kwamamaza amata yo mu dukombe abenshi bazi nka yahurute. Ayo mata akaba aca mu ruganda, akaba arimo ubwoko bugiye butandukanye harimo ay'inyange hakabamo n'aya Mukamira.

Mu Rwanda dukunze kuhasanga inganda nyinshi zitunganya umusaruro ukomoka ku mata ,twavugamo nk'uruganda rw'inyange indasitiri(inyange industry) tukavugamo uruganda rwa Mukamira dayari na Nyanza miriki indasitiri (Nyanza milk industry) ,aho batunganya umusaruro ukomoka ku mata, aho abaturage bayazana agacishwa mu mashini akazabikwa igihe kirekire. Hakaba hari n'inganda zegera abaturage babasha kujyanaho uwo musaruro wa mata.

Aha ni ku ikusanyirizo aho batunganyiriza amata aya mata bakaba bayazanye mu bicuba abacuruzi ,bakaba bayazanye ku ruganda ahantu ku ikaragiro batunganyiriza amata. Aya mata bakaba bayatunganya bakayakoramo amata y'inshyushyu, ikivuguto n'andi mata nka za yogati, amata akaba arimo n'ibintu bigiye bitandukanye.

Aka ni aka etajeri gateretseho teremusi ebyiri, kuruhande hateretse aka bogisi karimo amacapati hasi harimo utundi tu bogisi tubiri harimo keke n'amandazi, naho munsi yako ka etajeri hakaba hari amasahani kuruhande rwa etajeri rukaba ruriho firigo, iteretsemo ibinyobwa harimo ikivuguto n'ibindi binyobwa bigiye bitandukanye.

Iyi ni kantine cyangwa arimantasiyo cyangwa akaduka gacuruza ibyo kurya, aho hari umucuruzi w'umukobwa wunamye kuri kontwari urigutanga serivise yakira abakiriya, hari n'umukiriya uhagaze urikwaka serivise. Aho hirya ya kontwari hari firigo ya mukamira dayari, aho muri etajeri hakaba harimo ibinyobwa bigiye bitandukanye amaji y'inyange, za Novida, za energy naza marite n'izindi ji.

Iyi ni shopu cyangwa iduka ricuruza ibyo kunywa bigiye bitandukanye, hari kofi, naca kofi ikorerwa mu Rwanda, hakabamo enaji, twisite n'inindi binyobwa nigiye bitandukanye. Hakaba hari ibibitse muri furigo kugirango bikomeze kugira ubuziranenge ndetse n'uburambe.

Iri ni ikusanyirizo ry'amata, hasi hakaba hateretse igicuba kirimo amata, kuri kontwari hakaba hari umuntu, hakaba hateretse n'ijage, hirya ku ruhande hakaba hari umuntu wambaye agapira k'umweru uri kuri telefone wambaye n'agakabutura kapinki.

Uyu numukozi wo kuruganda Aho batunganyiriza amata y'inyange ,cyagwa andi mata y'ubwoko bwose yaba mukamira dayari, akaba Ari muturere dukomokamo amata menshi nka za Nyanza, za Nyagatare nutundi turere tubamo ubworozi cyane cyane muriburiya buce bw'uburasirazuba.

Mu Rwanda hari inganda nyinshi zitunganya umusaruro ukomoka ku matungo maremare ndetse n'amagufi, muri aho twavugamo amata y'ikivuguto, amata y'inshyushyu, amata agenda ashyirwa mu bipimo bigiye bitandukanye harimo udukombe, utujerekani tureture, utujurirekani dutoya, udupipiri ndetse n'udukarito tuba turimo amata y'ikivuguto.

Iyi ni kantine cyangwa arimantasiyo bacuruza ibyo kurya bigiye bitandukanye n'ibyo kunywa, harimo muri kontwari bigaragara harimo; fanta zo mu dupipiri, ji za inaji, hakazamo amazi, ji z'inyange, amata yo mu dukarito, amata yo muri yahurute yo mu dukombe ndetse n'ayo mu dupipiri.

Izi ni seriviyete, zikunze kugaragara ahantu bacururiza ibyo kurya n'ibyo kunywa; aho wazisanga muri alimantasiyo, mu masupa maketi, ndetse no mu makantine, aho wagenda ugiye gufata ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa; kugira ngo wirinde umwanda uturuka ku ntoki ku buryo utajya gukaraba ugiye kurya.

Uyu numucuruzi uhagaze munzu acururizamo aho ari gutanga serivise zijyanye no kugurisha amata nibindi bintu bigiye bitandukanye harimo ama ji ama fanta nibindi biribwa bigiye bitandukanye aho ari gutanga amata kubantu baje kuyagura abasukira mu majage bagiye bazana.

Iri ni ikusanyirizo aho abaturage bajyana amata akabasha gukusanyirizwa mu mashini agatungankwa akazabikwa igihe kirekire kandi n'umuturage wayazanye akazabasha kubona amafaranga bityo bikamuteza imbere ndetse n'uruganda rugatera imbere.

Abacuruzi ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bituruka hano iwacu mu Rwanda bikorwa n'inganda zaha iwacu mu Rwanda ndetse n'izituruka hanze. Twavugamo nk'umusaruro uturuka ku matungo magufi cyangwa maremare. Amatungo magufi twavugamo nk'amagi, amatungo maremare twavugamo nk'amata n'ibindi binyobwa bigiye bitandukanye byino munganda iwacu mu Rwanda.

Ibi ni ibiribwa. Bikaba byitwa amagi, akaba akomoka ku matungo, akaba aterwa n'inkoko, akaba arimo intungamubiri zigiye zitandukanye, aho bashishikariza abantu kuyagaburira abana bari minsi y'imyaka itanu kugira ngo babashe gukura birinda igwingira n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Aha ni aho batunganyiriza amata y'inyange, ahazwi nko ku ikusanyirizo; hakaba havamo porodagiti zigiye zitandukanye harimo: amaji, amata y'inyange, n'bindi byinshi; gusa muri etajeri harimo: ahateretse amazi, ubujerekani buteretsemo amata, ji z'inyange zikoze muri epo, n'ibindi byinshi. Hasi hakaba hateretse n'ijerekani.

Mu Rwanda hari inganda nyinshi zitunganya umusaruro ukomoka ku nka ariwo musaruro w'amata, twavugamo nk'uruganda rw'Inyange, uruganda rwa Mukamira dayari n'uruganda rwa Nyanza indasitiri, gusa no mu baturage mu turere twabo bakaba baregerejwe imashini zitunganya umusaruro wabo aho umuturage ajyana amata bakabasha kumwishyura akabasha kwiteza imbere ndetse agateza n'imbere umuryango we, aho amata afungwa mu bipimo bigiye bitandukanye utujerekani ndetse n'ibikombe.

Iri ni iduka cyangwa se kantine icuruza amata cyangwa ibindi binyobwa bigiye bitandukanye n'ibiribwa; aho ku meza hari umuntu ufite igikombe kirimo amata yaba, inshyushyu cyangwa ikivuguto; ku ruhande hakaba hari isahani iriho keke; gusa inyuma ye mu muryango hakaba hari umuntu uhagaze wambaye itiriningi y'umuhondo irimo uburongo bw'umukara.

Iyi ni alimatasiyo cyangwa iduka cyangwa shopu icuruza ibinyobwa bigiye bitandukanye, hakaba hamanitsemo ibyapa by'inyange, hakaba harimo amata y'inyange yo mu dukarito, ji z'inyange zo mu dukarito, izo mu dukombe, kuri etajeri hakaba hamanitsemo amandazi, capati n'ibindi biribwa byinshi bigiye bitandukanye, gusa ku meza hakaba hateretse akarindwi karimo amata.

Iri ni iduka cyangwa kantine cyangwa arimantasiyo ya miriki inyange zone, aho batunganya amata akomoka ku nka. Hakaba hari amata afunze mu bipimo bigiye bitandukanye, hari ari mu dukarito, ari mu tujerekani, ari mu ndobo, ari mu dupipiri n'andi mata y'ubwoko bwinshi. Aho abaturage bagemura amata, bakayazana, akabasha gutunganywa, akabyazwa umusaruro, akazabikwa igihe kirekire kandi neza.

Iyi ni kantine icuruza ibinyobwa bigiye bitandukanye, aho kumeza hicaye umudamu waje kwaka serivise zigiye zitandukanye, aho ari kunywa icyayi akaba hicaye n'undi muntu uteretse igikombe cy'amata ku ruhande n'amandazi bigaragara ko baje kwiyakira nyine cyangwa baje kuruhukira aho hantu bacuruza amata ya mukamira dayari cyangwa y'inyange n'andi mata y'ubundi bwoko ibindi binyobwa bitandukanye harimo, ji, n'amafanta y'ubundi bwoko.

Bikunze kuboneka mu Rwanda ahantu henshi , abenshi bakunze kwita ibiraha cyangwa inyaburayi, aho wabisanga mu maduka, mu alematasiyo agiye atandukanye akomakomeye, ayoroshye, muma butike agiye atandukanye, ao biba bikozwe mu ifarini ndetse n'ibirayi bihinga mu Rwanda.

Aya ni ameza, ameza akaba ateretseho agacupa karimo kirida. Kirida zikaba zikoreshwa mu gihe wari uri muri resitora cyangwa ahandi muri hoteli, uri kurya ibiryo bitandukanye, byaheze mu menyo. Ukifashisha ako gati gukuramo ibiryo byagiye bisigara mu menyo.

Uyu ni umucuruzi ucuruza ibijyanye n'ibyo kurya, aho acuruzamo amata ya yawurute yo mu dukombe, ibiraha, amata y'inyange, ji z'inyange zo mu dupipiri, izo mu dukarito n'izindi. Uyu akaba ari umukiriya waje amugana, agira ngo ahahe.

Iyi ni shopu cyangwa kantine cyangwa arimantasiyo, icuruza amata y'Inyange cyangwa ji z'Inyange; n'ibindi bintu bikorwa n'uruganda rw'Inyange bigiye bitandukanye, harimo: amakeke, hakaba harimo amandazi, imikati n'ibindi bigiye bitandukanye, ndetse n'amazi y'Inyange.

Amaduka yaha iwacu m'U Rwanda acuruza ibiribwa bigiye bitandukanye ndetse n'ibinyobwa twavugamo; ibikomoka ku amatungo ndetse n'ibikomoka mu inganda, mubikomoka ku amatungo twavugamo; nk' amagi akomoka ku amatungo magufi ndetse n'amata akomoka ku amatungo maremare, twavugamo amazi akorerwa mu inganda zaha iwacu, twavugamo nk'uruganda rw'inyange rutunganya amazi, amaji, ndetse n'amata.

Ubu ni ubujerekani bune bw'umweru buteretse ku murongo hirya yaho hakaba hari ubundi bujerekani bubiri kamwe k'umweru nakandi ka orange gafite umufuniko utukura, ariko ubujerekani bw'umweru buri ku murongo buri kamwe kagiye kariho izina ryako hari akanditseho boy, hari akanditseho volacano, hari akanditseho Nyabugingo hari nakanditseho Vincent bigaragaza ko buri kajerekani gafite nyirako,

Mu maduka yo mu Rwanda dusangamo ibyo kurya bigiye bitandukanye harimo amandazi, capati , ibintu bikoze mw'ifarini. Ifarini ikaba itunganyirizwa mu Rwanda mu ruganda rwa Azam. Aho buri munyarwanda wese abasha kwikorera amandazi kandi atabasha kwikorera amandazi akabasha kuyabona muma arimatasiyo(alimentation) cyangwa mu maduka amwegereye kugiciro gitoya.

Iri ni iduka riherereye ku muhanda. Kuri comptoir hakaba hateretse indobo y'amandazi, indobo ya cake, gusa ku rugi hakaba ari icyapa kigaragaza ko ari Diarly shop, iduka ricuruza ibinyobwa, harimo nk'amata, za Mukamira diarly, inyange, fanta n'ibindi byo kunywa bigiye bitandukanye by'ubwoko bwinshi.

Iyi foto iragaragaza ibiribwa, ubwoko bw'ibiribwa bikaba ari isambusa, isambusa zikoze mu inyama zikomoka kumatungo harigihe bashyiramo inyama z'inka, inyama z'ihene bitewe n'ubwoko bw'inyama wowe wishimiye, nibwo ushyira muri izo sambusa zawe wkoze ibyo benshi bazi nk'ibipapuro bashyiramo izo nyama zikoze mu ifarini.

Izi ni imashini zishinzwe gutunganya amata. Ayomata akaza ari inshyushyu, bakayacisha mu mashini, bakayakonjesha, akaba yavamo ikivuguto, akaba yavamo inshyushyu, yamara imyaka myinshi bakayashyiraho garanti. Imashini zikaba ziboneka mu turere tubamo Inka nyinshi nka za Nyagatare, na za Nyanza.

Iri ni iduka ricuruza ibyo kunywa n'ibiribwa bigiye bitandukanye. Mu byo kunywa harimo amata y'inyange, mukamira dayari, amaji y'inyange n'ibindi bigive bitandukanye. Gusa mu nzu hasi hakaba hateretse n'amazi ya Jibu ari mu bipipiri birebire; mu nzu hakaba hari abantu bane, hakaba hari ucuruje n'abaje kugura.

Iri niduka ricuruza amata ya mukamira dayari amata akaba atunganyirizwa mukarere ka nyabihu, iri duka rikaba ricuruza nkamazi ya nili nandi mazi yubundi bwoko ama ji ama fanta nibindi biribwa bitandukanye.

Iri ni iduka cyangwa alimantasiyo bigaragara ko bicuruza amata ya Mukamira dayari riherereye mu karere ka Nyabihu. Aho hanze hicaye umuntu hakaba inyuma ye hari imashini itunganya ayo mata ya Mukamira dayari, akabasha gutunganywa, akabikwa igihe kirekire adapfuye.

Ibi ni ibicuba bagemuramo amata, akaba ari amata y'inshyushyu akajyanwa mu ruganda gutunganywa, akabasha kuzabikwa igihe kirekire muri pakeji, bakazifunga mu bipimo bigiye bitandukanye. Hari afungwa mu tw'arindwi, injerekani, mu dupipiri bitewe na buri gipimo buri muntu yifuza.

Aha ni aho batunganyiriza amata bakagurisha ndetse bakanaranguza amata, aho bayapakira mu ngano zigiye zitandukanye muri litiro, litiro n'igice cyangwa yahurute, mu dukombe, mu ducupa ndetse no mu bicuba bigiye bitandukanye aho babagemuriramo amata.

Iyi ni kantine cyangwa dayari shopu cyangwa alimantasiyo icuruza amata y'ubwoko bugiye butandukanye, aho ku meza hateretse amajagi arimo amata n'abantu batatu bari kunywa ayo mata yaba ari ikivuguto cyangwa inshyushyu bitewe n'ubwoko bw'amata bishimiye baje gufata muri iyo kantine cyangwa resitoranti.

Iyi ni kantine cyangwa shop cyangwa alimentation icuruza amata ya Mukamira dairy, aho bakubwira ngo amata ni ubuzima. Bakaba bacuruza amata yo mu dukarito, ji zo mo dukarito n'andi mata ya yahurute agiye atandukanye yo mu dukombe. Gusa muri etajeri hakaba hari n'ahantu hatetse amaji, amata akaba abikwa muri firigo.

Iyi ni kantine cyangwa shopu, icuruza ibyo kunywa bigiye bitandukanye n'ibiribwa, harimo amata y'inyange, ji z'inyage, amazi ya nili, amazi y'nyange na fanta zo mu dupipiri n'amazi yo mu dukarito, aho ku meza cyangwa kuri kontwari hubitse capati n'indobo y'amandazi.

Iyi ni yahurute iri mu icupa rya santi litiro mirongo itanu yitwa masaka, ikaba ikozwe mu mata n'izindi ingerediyenti bagenda bongeramo isukari n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, hakabamo imbuto n'ibindi, ukaba wayisanga mu ma alimantasiyo, mu maresitorenti, mu ma supamaketi agiye atandukanye.

Iri ni iduka ricuruza amata riherereye mu karere ka nyanza aho hari icyapa cya Nyanza milk industry aho bigaragarako bacuruza uyu akaba ari umudamu uri kwakira abakiriya baje bamugana abaha amata yubwoko butandukanye harimo amata y'inshyushyu amata y'ikivuguto dore ko i Nyanza ari n'ahantu haturuka amata menshi muri iki gihugu cyacu cyu Rwanda.

Uyu ni umucuruzi ucuruza kantine, aho ari kwakira abantu abaha amata y'ikivuguto aho kuri kontwari hateretse amateremusi arimo ibintu bigiye bitandukanye, icyayi, icyayi cya mukaru, icyayi cy'amata, igikoma ndetse n'ibindi bitandukanye. Aho uyu mucuruzi yambaye ingofero ndetse n'igitenge n'ako n'ishati ikoze mu gitenge.

Iri ni iduka ricuruza ibikomoka ku mata ndetse n'ibindi biribwa bigiye bigiye bitandukanye aho wahasanga amandazi, amata ndetse n'ibindi binyobwa bigenda bitandukanye aho hari n'imashini zigenda zitunganya amata zikabasha kuyabyaza umusarur akazamara igihe kinini abitse ndetse ku ruhande rw'iyo mashini firigo babikama ibyo binyobwa.

Aha ni ku ikusanyirizo aho abaturage bagemura amata bakabasha kuyatunganya amata akazamara igihe kirekire agafungwa neza mu bipimo bigiye bitandukanye. Hari amata y'inyange amata ya mukamira, amata abikwa igihe kirekire kandi na buri muturage wayagemuye akabasha kubona inyungu bitewe nayo yagiye agemura nyime bite we n'igiciro bagiye bafatira kuri buri litiro.

Iri ni iduka ricuruza ibyo kunywa bikomoka ku nka harimo amata y'inyange mukamira dayari, harimo nibindi bigiye bitandukanye Aho muriryo duka harimo intebe zo kwicaraho ,utumeza two kuriraho ,amajerekani Ari muri kotwari nibyatsi bapimiragamo cyera biri hejuru ya etajeri.

Iri ni iduka ricuruza ibinyobwa bigiye bitandukanye n'ibyokurya. Hakaba harimo umuntu waje kwaka serivise n'uwicaye muri kotwari urigutanga serivise uwicaye muri kotwari akaba arikwakira amafaranga barikumwishyura gusa muriyo etajeri, hakaba harimo ibinyobwa bigiye bitandukanye harimo : amaji, fanta, zamarite, za inaji na za novida n'ibindi binywobwa bigiye bitandukanye.

Aha ni ku ruganda aho abaturage bagemura amata ibi akaba ari ibicuba biteretse hasi abaturage baba bagemuyemo amata ku ruganda aho bayazana agatunganyirizwa amata akzabikwa igihe kirekire kandi afite uburambe bwiza kandi bwizewe.

Uyu ni umukozi ukora mu ruganda rutunganya amata, aho uzana amata bakabasha kuyagutunganyiriza akazabikwa igihe kirekire bakakwishyura amafaranga bitewe n'amata wagiye uzana. Aho uno mudamu inyuma ye hari igicuba abaturage bagemuramo amata.

Aka ni akajerekani k'amata karindwi gateretse ku meza, aho amata ashobora guporoduyisingwa n'inganda zigiye zitandukanye, harimo inyange, Mukamira dayari na Nyanza miliki indasitiri n'izindi nganda zigiye zitandukanye ziri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bitewe na buri karere amata bitewe n'inka zigiye zirimo n'amata agenda abonekamo.

Iki ni igikombe cy'amata giteretse ku meza akaba ari amata y'ikivuguto cyangwa inshyushyu. Amata akorwa n'inganda zigiye zitandukanye hari Mukamira dayari, hakaba Inyange indasitiri, hakaba Nyanza miriki indasitiri n'izindi nganda zishinzwe gutunganya amata y'abaturage kugira ngo abashe kuramba amare igihe kinini atarapfa.

Iyi ni shopu icuruza amata ndetse n'ibindi binyobwa bigiye bitandukanye. Aho muri firigo, bigaragara ko harimo akajerekani k'arindwi karimo amata y'ikivuguto. Hasi hakaba hateretsemo jagizi, hejuru hakaba hateretsemo agapipiri ka nili muri firigo. Naho ku ruhande rwa firigo hakaba hateretse amajerekani ya litiro makumyabiri y'amazi ya jibu.

Iyi foto ndikubonaho ijerekani bashyiramo amata, icyuma cy'amata, fitigo, intebe, umugabo n'umwana baje guhaha ndetse n'umuntu ukorera mu idukaka uri kubafasha kubakira.

Iduka ricuruza amata y'ubwoko buryo butandukanye: harimo inyange, mukamira nandi y'ubwoko bwinshi. Muri contwari hakaba yicayemo umuntu ucuruje akaba acuruje amaji y'ubwoko bugiye butandukanye, amazi n'ibindi byinshi. Gusa akaba ari n'umukiriya wicaye ku meza Hateretse akantu ka movi.

iki ni icyapa cy'inyange miru zone aho hari ibinyobwa bye bitandukanye hari gi z nyange amazi y'inyange yo mu bicupa birebire amata y'inyange y'ivugutoshizi nyange zo mu carito ya holte'inyange ya holttesinyange zikoze muri tcolete uwo bahamagara kuri nomero zirukanarwa umunani umunani cumi nagatandatu cumi n niicyenda zeru ziherutse ukabonekira kuri www inyange industrecom

Aya ni amata ateretse mu gicuba akaba ari ahantu mu nzu mu ikaragiro, hakaba hari umuntu uhagaze ku ruhande ushinzwe kwakira ayo mata n'intebe n'ikayi ivivuriramo abagiye bazana ayo mata.

Iyi ni kantine icuruza ibyo kunywa n'ibyo kurya, kuri kontwari hakaba hateretse igikombe cy'amata, ikaramu ndetse n'iyi ndobo irimo amakeke, gusa kuruhande hakaba hari umuntu uri kunywa ayo amata ufashe na keke mu ntoki, bigaragara ko ariyo ari kunywesha ayo mata.

Iri ni iduka ricuruza ama product akomoka ku nka. Rikaba rimanitseho icyapa cyanditseho royal fresh milk. Icyo cyapa kikaba kiriho amata agiye atandukanye, ayinyange, mukamira diary, ikivuguto, za yawurute, n'ibindi byinshi.

Iri ni duka rigaragaza ko ricuruza ibikomoka ku mata y'Inyange harimo za ji, amazi n'ibindi bigiye bitandukanye. Hanze hakaba hari kandagira ukarabe abantu bakarabiho binjira, hakaba hari ameza bicaraho bari gufata ibyo kurya n'ibyo kunywa, hakaba hari n'ibyapa bigaragaza ko ari iduka ricuruza ibikomoka ku Nyange.

Iyi ni shopu cyangwa kantine cyangwa arimantasiyo icuruza amata y'inyange cyangwa andi mata yubundi bwoko akomoka ku nka aho bakubwira ngo ni amata meza ategurwa neza ashobora guhita anywebwa kandi yujuje ubuzira ntege ubwaribwo bwose ategurwa n'inyange indasitirisi uruganda rukora amata y'inyange ndetse n'amazi nibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Uyu ni umwana uri ku ikaragiro ifite agatelefone mu ntoki, bisa nkaho hari umuntu bari kuvugana, inyuma ye hakaba hari abantu bambaye amajire y'amashami agiye atandukanye bitewe n'ibigo bagiye bakorera, ku ruhande rw'umwana hakaba hari ahantu hateretse igicuba, aho abaturage bakigemuramo amata bakizanye ku ikaragiro kugira ngo amata abashe gutunganwa azamare igihe kire kire adapfuye.

Aya ni amata aho akensi mu Rwanda akunda kugaragara mu burere za Nyagatare, za Nyanza, za Burera, za Ngoma aho bakunze gukora ubworozi bw'amata cyane cyane. Aya mata akaba akorwa cyangwa ategurwa n'inganda zigiye zitandukanye harimo Inyange indasitiri, hakazamo Mukamira dayari, na nyanza miliki inasitiri akabasha kubikwa igihe kirekire akaba ari amata meza kandi afite uburambe.

Amata yo mu Rwanda akungahaye kuri vitamini nyinshi aho twavugamo nk'amata ahabwa abana, Inyange indasitiri yakundaga gutangwa mu bigo by'amashuri, gusa ubu hakaba hari inganda nyinshi mu Rwanda zitunganya umusaruro ukomoka ku mata harimo nk'uruganda rw'Inyange, Mukamira dayari na Nyanza indasitiri aho amata abasha kubikwa igihe kinini atarapfa kandi n'umuturage akabona umusaruro ukomoka ku mata, aho abona amafaranga amutunga agatunga n'umuryango we.

Obed, umukozi wa MTN Mobile Money aho arikumwe n'umuturage waje gufata ibihembo bye, aho yatsindiye igihembo cy'igare aho yishyuye akoresheje uburyo bwa momo pay akanze akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe ugwego yarangiza agakurikiza amabwiriza.

Aka ni akazu k'umu agenti wa emutiyeni mobayiro mani akaba agurisha ama inite, akabitsa amafaranga kuri telefone, akabikura amafaranga kuri telefone, agakora taranzagishoni cyangwa akohereza amafaranga kubantu bagiye batandukanye n'izindi serivisi zijyanye na emutiyeni savisi senta.

Uyu ni umu ajeti w'umukobwa ukorera ishami rya mtn senta, aho atanga serivise zimo gutanga amayinite, kugira paka, kugura paka za enterinete, izo guhamagara ndetse no kubitsa no kubikura amafaranaga, ndetse no kubitsa amafaranga kuri simukadi n'izindi serivise zigiye zitandukanye.

Aba ajenti ba emutiyeni savisi senta aho bicaye mu mutaka wa emutiyeni savisi senta, aho bacuruje amaterefoni ya emutiyeni, radio, imipira yo kwambara , ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye amayinite, kubitsa no kubikura.

Icyicaro cya Emutiyeni gishinzwe gutanga serivisi zitandukanye. Harimo: kugura amayinite, kubitsa ndetse no kohereza amafaranga ku masimukadi cyangwa no ku bantu batandukanye. Gitanga amaporomosiyo atandukanye: harimo aho watsindira moto, amamodoka, amagare, amatereviziyo n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, bitewe na tombora wakinnye.

Iki ni ikigo cy'igihugu cya MTN, gishinzwe gutanga serivisi zijyanye na interineti, kugura amatelefone agiye atandukanye, kugura amajiri, amasimukadi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, kugura pake zo guhamagara, pake za interineti, kubitsa no kubikura ndetse n'izindi serivisi nyinshi akaba ari aba agenti n'abakiriya baje babagana.

Abakozi b'ishami rya Emutiyeni savisi senta, batanga serivisi zigiye zitandukanye. Harimo: kugura amayinite, kohereza amafaranga, kugura pake zo guhamagara, kugura bando za interineti, aho ugura paki y' ibihumbi bitatu bakaguha interineti y' ukwezi kose, cyangwa ukagura pake ku mafaranga magana tanu, bakaguha pake y' icyumweru ya wani gigabayiti.

Iki ni icyapa kigaragaza uburyo wishyura ukoresheje Momo Pay, aho izina ry'umucuruzi ari INUMA TECHNOLOGY, aho kwishyura ugakanda ukoresheje akanyenyeri ijana mirongo inani na kabiri, kanyenyeri, umunani, akanyeyenyeri rimwe, akanyenyeri zeru, zeru, mirongo itanu na gatanu, cumi n'agatatu, aho wishyura nta kiguzi usabwe.

Uyu ni umudamu cyangwa umumeri ukora muri emutiyeni savisi senta ushinzwe kugurisha amayinite, aho afite akapa kagaragaza uburyo wakwishyura ukoresheje momo peyi aho kode ye ari mirongo irindwi mirongo itaratu na kane rimwe, uwo mudamu cyangwa umumeri akaba yambaye n'akabage igaragaza ko ari umukozi wa emutiyeni savisi

Aka ni akazu k'umukozi wa emutiyene savise senta, benshi bakunze kubita abajenti; bakaba bakora serivize zo: gutanga amayinite, kubitsa, kubikura amafaranga ndetse no kohereza amafaranga kuri simukadi zigiye zitandukanye; akaba ahagaze mu kazu, yambaye rakosite irimo amabara y'umweru, n'ibara rya move.

Iki ni icyapa cy'umucuruzi ukorana n'ishami rya emutiyene sevise senta, aho uwo mucuruzi acuruza imyenda itandukanye, harimo amapantaroi y'amakoboyi, amapantaro y'amatisi, aho wishyura ukanze akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe akanyenyeri kode y'umucuruzi, ugashyiramo amafaranga warangiza ukishyura, uwo muvuruzi kode yari makumyabiri na gatanu, zeru gatanu, cumi n'umunani.

Iyi foto irerekana umucuruzi wa Momo pay, ikerekana n'umushoferi uri mu modoka. So, kuri iyo modoka hakaba hariho icyapa kigaragaza kode y'uburyo wakwishyura ukoresheje Momo pay. Iyo kode ye akaba ari cumi n'icyenda, makumyabiri na gatandatu mirongo inani na gatanu, akaba agiye kwishyurwa cyangwa agiye kwishyuzwa amafaranga.

Inzu y'umwagenti wa MTN Mobiro Mane, aho atanga serivisi zigiye zitandukanye, harimo: kugura interineti, kugura amayinite yo guhamagara ku mirongo yose, kohereza amafaranga, kwakira ndetse no kubikuza amafaranga, aho mu Rwanda ari ho usanga abagenti benshi ba MTN kandi serivisi zabo zikaba zihuta.

Mu Rwanda tuhasanga abacuruzi benshi cyangwa abakozi b'ikigo k'igihugu cya emutiyeni, aho bashinzwe gutanga serivise zigiye zitandukanye harimo kugura amayinite, kohereza ndetse no kwakira amafaranga, kugura amayinite yo kujya kuri murandasi ayo benshi bita interineti ndetse n'izindi serivise zigiye zitandikanye, aho bakira ababagana amasaha makumya n'ane kuri makumya n'ane.

Uyu ni umukozi wa emutiyeni savise senta, aho ari kwakira abaje bamugana; hakaba hari umuturage waje amugana wambaye umupira w'umutuku, aho ari kwaka serivisi zigiye zitandukanye, harimo: kubikuza amafaranga, kohereza amafaranga, kubitsa, kugura amayinite, kugura paki za interineti. Aho ku mutaka arimo, wanditseho: ''kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, urwego, ubundi ugakurikiza amabwiriza''.

Uyu ni umu ajenti wa emutiyeni aho yambaye umupira wanditseho peyi wivi momo ari kumwe n'umuturage waje kwaka serivise zijyanye na emutiyeni umugabo wambaye ikote ry'umukara, aho yakaga serivise zigiye zitandukanye harimo kugura amayinite, kohereza amafaranga, kubikura amafaranga, kugura pake za interineti na pake zo guhamagara izindi serivise zigiye zitandukanye.

Aha ni ku cyicaro cy'ishami rya Emutiyeni savisi senta, evuri weya yu go. Aho bacuruza amaterefone, amapake agiye atandukanye, pake zo guhamagara ukanda akanyenyeri ijana na mingo ine. Paka za interineti aho ukanda akanyenyeri ijana na mirongo itatu na gatanu, ukabasha kwigurira pake za fogi n'izindi pake zikubereye, ukeneye bitewe n'amafaranga ufite, na terefone za macye macye arizo za simati za makumyabiri na kimwe za Emutiyeni.

Uyu ni umuhanzikazi Bwiza aho yakoranaga n'ikigo cya Emutiyeni mobayiro mani cyangwa Emutiyeni savisi senta mu kwamamaza ibikorwa byabo harimo kugura interineti zihuta, kugura pake, kugura ama inite yo guhamagara, kohereza no kwakira amafaranga ho ari kumwe n'abandi bakozi ba Emutiyeni bari kwishimira serivisi za Emutiyeni itanga, hamanitse n'icyapa kiriho abantu babiri kigaragaza kwishyura ukoresheje MomoPeyi.

Aba ni abakobwa batatu, harimo uwambaye umupira uriho momo foromu emutiyene, hakaba n'abandi babiri bambaye imipira y'umuhondo n'ingofero, bakaba bari ahantu hari ibyapa bya pirimusi bigaragara ko bari mu busabane hamwe na pirimusi inzoga yengwa n'uruganda rwa Buralirwa.

Aba ni abajenti b'ikigo cya emutiyeni savisi senta aho bambaye amagofero agaragaza ko ari abajenti ba emutiyeni savisi senta, bakaba bagurisha bakanagura imipira aho bari muri egisipo bagiye kwamamaza ibikorwa byabo harimo pake za interinete zihuta, amayinite ndetse n'ibindi byinshi.

Umu agenti wa emutiyeni wa emutiyeni savise senta, ashinzwe gutanga serivisi zijyanye na emutiyeni, kugura amayinite, interineti, kohereza amafaranga, kubitsa no kubikura amafaranga ku bantu bagiye batandukanye. Urabona umugabo yaje kwaka serivisi zigiye zitandukanye, muri izo navuze haruguru.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe itumanaho cya emutiyeni gikorera mu Rwanda, gitanga serivisi zigiye zitandukanye. Harimo gutanga serivisi zo kugura amayinite, kugura paki zo guhamagara, paki za interineti n'ibindi bigiye bitandukanye. Kohereza amafaranga hanze y'u Rwanda, kohereza amafaranga mu Rwanda akaza yivunjishije, n'ibindi bigiye bitandukanye, aho ugura paki yo guhamagara mu Rwanda cyangwa iyo guhamagara hanze y'u Rwanda.

Aka ni akazu k'umukozi wa Emutiyeni savisi senta cyangwa umu ajenti aho ari kwakira abakiriya baje bamugana umwe yambaye ishati y'umutuku n'itise, udi yambaye umupira w'umweru n'ipantaro ya kaki. Aho bari kwaka serivise zigiye zitandukanye harimo kugura ama inite, kugura pake zo guhamagara, kugura pake za interineti, kubitsa no kubikura amafaranga ndetse no kohereza amafaranga bitewe na serivisi buri mukiriya akeneye ni yo yaka.

ikigo cya MTN Serivise zigiye zitandukanye harimo serivise zo kohereza amafaranga kwakira ndetse no kubikuza amafaranga aho ukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe warangiza ugakurikiza amabwiriza.

Ikigo cy'igihugu cya mtn cyangwa abacuruzi ba amayinite bashishikariza abaturarwanda kwishyura ukoresheje uburyo bwo kwishyura udakaswe ifaranga na rimwe aho ukanda akanyenyeri, ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri, umunani, akanyenyeri, rimwe, ukanyenyeri, kode y'umucuruzi warangiza ugashyiramo urwego ugakurikiza amabwiriza.

Iyi ni inzu y'umu agenti wa eyateri mani aho bakubwira ngo kanda akanyenyeri magana abiri na makumyabiri na kabiri urwego ukagura paka zigiye zitandukanye harimo paka za fogi za enterineti, paka ku mafaranga makeya paka kubihumbi bitatu baguha gigabayiti mirongo itatu na esemesi utamara ndetse n'amayinite y'ukwezi.

Iyi ni inzu y'umwagenti wa MTN Mobilo Mane, aho bakubwira ngo sendi mane akurozi oru netiwoki, aho wohereza amafaranga ku mirongo yose, ukabasha kugura amayinite ahamagara imirongo yose, interineti, bando za 4G. Aho ari kumwe n'abantu babiri, ari kwakira abakiriya be, abaha serivisi zigiye zitandukanye.

Iyi ni system yo kwishyura ukoresheje MomoPay aho ukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe akanyenyeri code y'umucuruzi warangiza ukishyura ukoresheje MomoPay, aho uwo mugabo wambaye ishati y'umutuku yaje gufata ibihembo bye aho yatsindiye kubera kwishyura akoresheje inshuro nyinshi uburyo bwo kwishyura akoresheje MomoPay.

Aka ni akazu ku mu agent wa MTN service center cyangwa MTN Mobile Money, hakaba hahagazemo abadamu babiri umwe uri kwaka serivisi n'undi uri gutanga serivisi zijyanye na MTN Mobile Money, mo imbere mu nzu hakaba hamanitsemo ibyapa bibiri bijyanye n'uburyo pake zigurwa, ibiciro na pake ya buri giciro.

Uyu ni umuturage urimo gufata ibihembo bye bitewe nuko yaguze pake za inerineti cyangwa izo guhamagara kuri iri shami rya MTN savisi senta, akanze akanyenyeri ijana na mirongo ine urwego izo ni pake zo guhamagara, cyangwa pake za interineti akanze akanyenyeri ijana na mirongo itatu na gatanu urwego. Inyuma ye hakaba hari abaturage baje kureba ukuntu bafata ibihembo bitewe n'uburyo bagiye batsindira ibihembo byabo.

ubu ni uburyo bwo kwishyura amafaranga ukoresheje mobile money aho ukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri rimwe akanyenyeri rimwe akanyenyeri nimero y'umucuruzi warangiza ugashyiramo amafaranga wishyura. Mungu Hakuzimana Fabrice bagiye kumwishyura igihumbi hasigaje gushyiramo pin warangiza ukaba wishyuye amafaranga umucuruzi waguhaye igicuruzwa runaka cyangwa wohereza amafaranga kuri nimero runaka.

Iyi ni sisiteme ya mtn savisi senta aho wishyura umucuruzi ukoresheje momo peyi. Uyu mucuruzi akaba yitwa fashoni. Aho wishyura ukanze akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe urwego, ugashyiramo kode y'umucuruzi ariyo mirongo inani na gatatu, icyenda gatanu mirongo ine na kane warangiza ugakanda yesi.

Iki ni icyapa cy'umucuruzi kigaragaza uburyo wakwishyura ukoresheje momo peyi, ukanze akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyenyeri gatatu urwego, ugashyiramo kode y'umucuruzi ariyo icumi mirongo inane na kane cumi na gatatu.

Aka ni akazu k'umuajenti wa emutiyeni savisi senta aho bakubwira ngo kanda akanyenyeri ijana na mirongo itaratu na gatanu, akanyenyeri gatanu urwego aho ubitsa amafaranga kuri mo kashi, ukanabikura amafaranga kuri mo kashi, ukabasha no kwiguriza ukoresheje mo kashi hamwe na emutiyeni mobayilo mane.

Ubu ni uburyo bwo gusikana sisitemu ya kampani ushakamo amakuru, aho ufata terefone yawe ugafata n'iy'undi muntu ugasikana icyo kintu ukabona amakuru yose ukeneye kuri iyo kampani ushaka kumenyamo amakuru ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, yaba andi makuru ushaka muri iyo kampani n'ibindi byinshi.

Uyu ni umucuruzi w'ikigo cy'Igihugu cya MTN, gishinzwe gutanga serivisi zigiye zitandukanye, harimo kubitsa, kohereza ndetse no kubikura amafaranga ndetse hakaba n'izindi serivisi zijyanye no kugura interinete, amayinite yo guhamagara ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye kandi ku giciro cyo hasi.

Aka ni akazu ku mu ajenti wa emutiyene savisi senta, aho agurisha, akabitsa, akanabikura amafaranga y'abakiliya baje bamuganye, aho hari umukiliya wamuganye wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'ikoboyi bigaragara ko ari kumwaka serivise zijyanye na emutiyene savisi

Aba ni ababyeyi babiri. Bari muri restaurant runaka, aho ari kwishyura akoresheje uburyo bwa MoMo Pay, akanze kanyenyeri, ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe, akanyenyeri kode y'uucuruzi, aho uwo mucuruzi ukorera MTN service center, wambaye imyenda y'umuhondo, ari kumubwira uburyo yakishyura akoresheje MoMo Pay.

Uyu ni umu ajenti wa Emutiyeni savisi senta aho abikura akabitsa ndetse akanohereza amafaranga ahantu hagiye hatandukanye, aho uwo mugore cyangwa umukobwa ari kwaka serivise zigiye zitandukanye ubona aho ari kwaka amafranga uwo umucuruzi nawe akaba arimo asinya agaragaza ko yatanze amafaranga cyangwa ari kwandika ibyinjiye n'ibyasohotse.

Uyu ni umu agenti wa Emutiyeni savisi senta. Aho ahagaze mu mutaka, yambaye iataburiya yanditseho hiya wivu momo. De momo peyi apu, aho ukoresha momo peyi apu ukanze cyangwa ugakanda akanyenyeri ijana na morongo itandatu na gatanu, akanyenyeri gatatu, akanyenyeri urwego, warangiza ugakurikiza amabwiriza. Ukabasha kwishyura, kohereza cyangwa kwakira amafaranga ukoresheje momo apu.

Icyo n'icyicaro cya MTN aho baguha pake zo guhamagara paka za enterinete simuswapu, telefone za macyemacye za simatifone aho wagura pake ukanze akanyenyeri ijana na miringo ine urwego, pake zo guhamagara pake za enterinete ukanze akanyenyeri ijana na mirongo itatu nagatanu urwego cyangwa ukishyura ukanze akanyenyeri ijana na miringo inani na kabiri ukishyura ntakiguzi uciwe ukoresheje momo peyi.

Iri ni iduka rya emutiyene sevirise senta, aho bari mu imurikagurisha bagaragaza uburyo bagurisha enterinete kugiciro cyo hasi kandi ari enterinete yihuta, abo akaba ari abakiriya benshi baje babagana bagirango bigurire enterinete.

Iri ni ishami rya emutiyeni savisi senta rishinzwe gufasha abakiliya ba emutiyene ku bijyanye na interinete, hakaba hari abaje kwakirwa, hakaba hari n'abari gutanga izo serivise mu ishami rya emutiyene.

Iki ni icyapa cy'ishami rya emutiyeni savise senta, aho wishyura ukoresheje Momo peyi, ukanze akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe, akanyenyeri, ugashyiramo kode y'umucuruzi, ugashyiramo amafaranga, umubare w'ibanga, warangiza ukemeza.

Aha ni mu kabari, akaba ari mu masaha ya ninjoro. Hicayemo abantu babiri bari kureba ku nyakiramashusho yabo umupira w'amaguru, ariko bananywa inzoga, ndetse n'inyuma y'inyakiramashusho hari inzoga zigiye zitandukanye z'amoko menshi cyane.

Iri ni iduka rishinzwe no gutanga serivisi zijyanye na Airtel money, hakaba hacuruzwa amatelefoni, kugurisha amayinite, kubitsa amafaranga, kubikura amafaranga, kugura amapake agiye atandukanye n'ibindi n'ibindi, hakaba hari n'icyapa kiriho abakobwa babiri bamamaza ishami rya Airtel savisi senta.

Aba ni abakozi ba Emutiyeni savisi senta, aho aha bari ku cyicaro, biragaragara ko bano ari abazungu bari muri tombora zigiye zitandukanye, hari tombora z'amafaranga, tombora za interineti, tombora za pake, aho ugura pake ukabasha kubona inyongera bitewe na pake wagiye ugura, harimo gutombora igare, gutombora imodoka, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, amamoto, amateleviziyo n'amatelefoni.

Iki ni icyapa cy'umu agenti wa emutiyeni mobiro mane, aho handitseho "emutiyeni mobiro mane avayirabo hiya" ; emutiyeni iraboneka hano. Aho ugura amayinite, paki za interineti, paki zo guhamagara. Aho hari abantu batatu baje kwaka serivisi zijyanye no kubitsa, kubikuza, bitewe na buri wese serivisi agiye akeneye muri iri shami rya emutiyeni savise senta. Uyu mu agenti akabimufashamo.

Mu masaha ya nijoro utubari dukunze kugira abakiliya benshi, cyane cyane mu minsi y'ibiruhuko nko ku wa gatandatu cyangwa ku cyumweru cyangwa mu minsi isanzwe nyuma y'akazi, aho abantu benshi bakunze kuhagana bakeneye gusabana nk'icuti cyangwa abakozi bakorana mu kazi gatandukanye.

Aha ni ku ishami rya Emutiyeni savisi senta cyangwa ajenti wa Emutiyeni mobayiro mani, aho batanga serivisi zigiye zitandukanye, harimo kugura simukadi, gukora simu swapu, kugura telefoni za Emutiyeni mobayiro mani, kugura amayinite, kugura pake z'ukwezi zo guhamagara za bando za foji, n'izindi serivisi zigiye zitandukanye, urabona ko hari umukozi uri kuri interineti, ari gutanga serivisi zigiye zitandukanye.

Aka ni akazu k'umu ajenti wa emutiyeni savisi senta, aho wagura amayinite, pake zo guhamagara, pake za enterineti, kubitsa no kubikura amafaranga, kohereza amafaranga kuri nomero zigiye zitandukanye, ndetse ukabasha no kuba wahamagara ku ijana, ugira ubundi bufasha wabasaba.

Ubu ni uburyo bwo kwishyura ukoresheje ayaterizi abantu bakoresha simukadi za eyaterizi cyangwa tigo, aho baba bafite eyateri apusi aho wishyura umucuruzi ukoresheje eyateri apusi bitewe n'amafaranga cyangwa n'ibindi bintu wagiye ugura ugakoresha eyateri apusi ukabasha kwishyura ibicuruzwa waguze.

Iyi ni kode y'umucuruzi wa emutiyeni savise senta, aho wishyura ukoresheje uburyo bwa Momo peyi, ukanze akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe, akanyenyeri kode y'umucuruzi, uyu mucuruzi kode ye ni mirongo itandatu na gatandatu, mirongo itandatu na gatandatu, mirongo itatu, warangiza ugakanda urwego, ugashyiramo amafaranga, warangiza ukishyura.

Aba ni abakozi ba emutiyeni savisi senta, aho bari kwakira abakiliya baje babagana babaka serivise zigiye zitandukanye, harimo simu suwapu, kugura telefone za make make, kugura simukadi nshyashya, kugura paka zo guhamagara, paka za enterinete, kubitsa no kubikura amafaranga, kohereza amafaranga ku bantu bagiye batandukanye n'izindi serivise nyinshi cyane.

Aka ni akazu k'umu ajenti wa MTN savisi senta, aho: wagura amayinite, ukabitsa amafaranga ukanabikuza cyangwa ukohereza amafaranga, ukaba wanagura pake zo guhamagara, pake za interinete n'izindi pake wifuza zo guhamagara hanze y'u Rwanda; bakaba ari abantu batatu baje bagana aba bakozi ba MTN savisi senta, baje kubaka serivise zigiye zitandukanye.

Iyi ni inzu y'umu agenti wa emutiyeni mobayiro mani, iri mu mabara y'umuhondo, bigaragara ko akorera ikigo cya emutiyeni mobayiro mani. Akaba atanga serivisi zigiye zitandukanye zirimo: kugura paki zo guhamagara, paki za interineti za fo gi, n'ibindi bigiye bitandukanye birimo kwishyura umuriro, kwishyura amazi, kubitsa, kubikura ndetse no kohereza amafaranga ku bantu bagiye batandukanye.

Uyu ni umu agenti wa emutiyeni savise senta. Aho atanga serivisi zigiye zitandukanye, harimo gukora simu swapu, kugura simu kadi, kohereza no kwakira amafaranga, kugura interineti z'ukwezi, aho hariya hari utumashini rugaragaza amagitansi y'amafaranga yinjiye n'ayasohotse, cyangwa paki waguze, n'amafaranga wagiye wishyura.

Abo ni abakozi bakora kuri sitatiyo za esasi, ariko bakaba bambaye imipira ya mtn mobile mani, aho bashishikariza abantu cyangwa aba bagana kwishyura bakoresheje momo apusi cyangwa momo pes aho ukanda akenyeri ijana na mirongo itaratu na gatanu akanyeri gatatu akanye kode y'umucuruzi nk'iyi company itanga code yayo ni nomero magana arindwi na gatatu icyenda gatatu warangi ukurikiza amabwiriza.

Iyi ni inzu y'umu ajenti wa emutiyeni savisi senta aho bagurisha amayinite, wagura pake yo guhamagara, pake za interineti, kohereza, kwakira amafaranga, kubitsa no kubikuza amafaranga, aho wasanga simukadi, ukahasanga simu swapu n'izindi serivise zigiye zitandukanye nk'uwo mugabo wambaye agapira ka polisi ari kwaka serivise zimwe muri izo nagiye mvuga haruguru.

Umuntu wambaye agapira k'ubururu, ufite ikarita mu ntoki na telefoni. Bisa nk'aho ari gushyiramo ikarita y'amayinite muri telefoni. Aho yaguze paki yo guhamagara cyangwa iya interineti, ku mu agenti wa emutiyeni cyangwa uwa eyateri mane.

Iyi ni terefone igendanwa abenshi bakunze kwita nka matushi, uyu muntu nkabona ari gushyiramo kode agiye kwishyura umucuruzi kuko ndabona yaje nko kurangura ibinyobwa bimwe na bimwe bitandukanye.

Uyu ni umukozi wa emutiyeni savisi senta cyangwa umu ajenti, aho atanga serivise zitandukanye harimo kugura amayinite, kugura pake za interinete, kugura pake zo guhamagara, kohereza amafaranga, kubikura amafaranga ndetse no kubitsa amafaranga kuri simukadi.

Uyu ni umuturage uri kwishyura akoresheje sisitemu ya OTP, aho wishyura ukoresheje simatifone, umucuruzi aho wowe ushyiramo kode y'umucuruzi ugashyiramo n'amafaranga warangiza ukishyura nta kiguzi uciwe kandi n'umucuruzi amafaranga akabasha kumugeraho yuzuye nta kiguzi na we yaciwe.

Aka ni akazu k'umu agenti wa emutiyeni savise senta, aho ukagana ugiye kwaka serivisi zitandukanye, harimo kugura amayinite, kugura paka za interineti, paka zo guhamagara, kubitsa amafaranga, kubikura, koherereza amafaranga hirya no hino ku bantu bagiye batandukanye, ndetse n'izindi serivisi zigiye zitandukanye.

Aba ni abantu batatu umwe wambaye umupira w'umukara na rinete, undi wambaye ishati y'umutuku afite telefone ntoya igendanwa mu ntoki, undi yambaye ishati y'ubururu afite menshi ku mutwe. Urabona ko baje gusaba serivise zijyanye na interinete cyangwa kugura interinete igendanwa cyangwa itagendanwa.

Uyu ni umukiriya wishami rya emutiyene serivise senta aho akoresha simatifone akoresha apurikasiyi ya ayoba aho ari kwishyura ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Gusa kubera ikibazo cya interineti cyangwa izindi serivise bikaba bitari gukunda bakaba bari kumubwira ngo niyongere agerageze

Uyu ni umuturage cyangwa undi muntu usanzwe uri gukoresha simati fone, akaba ari gukoresha momo peyi aho ari guhamagara kuri momo ngo bamufashe serivise zigiye zitandukanye harimo kubitsa, kwakira amafaranga cyangwa indi taransagishoni y'amafaranga iyo ari yo yose, hari amafaranga yohereje atagezeyo cyangwa hari amafaranga yohereje akayoba.

Uyu ni umucuruzi, ucuruje mwisoko, aho arikwakira abakiriya bakishyura akoresheje uburyo bwo kuri enterinete bwa emutiyeni mobayiro mani cyangwa momopeyi cyangwa eyateri mani, aho emutiyeni mobayiro mani ukand akanyenyeri ijana namirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani urwego warangiza ugakurikiza amabwiriza.

Uyu ni umu agent wa MTN service center; aho acuruje amajire ya MTN, ingofero za MTN, amagurude y'amazi ariho icyapa cya MTN, simcard na telefone. Uwo mugabo akaba yambaye amarinete n'agapira k'umweru k'aba agent ba MTN ku ruhande hakaba hateretse igikapu cy'umukara

Aba ni abantu babiri aho umwe ari ugabo undi ari umugore bahagaze ku kazu ka emutiyeni savisi senta, aho bashinzwe gutanga serivise zijyanye n'ishami rya emutiyeni aho wagura amayinite, ukagura pake za interineti, pake zo guhamagara, kohereza, kubitsa no kubikura amafaranga ukoresheje emutiyeni savisi senta cyangwa emutiyeni mobayilo mani.

Aka ni akazu ku mu agenti wa MTN serivise senta. Aho benshi bakunda kubita aba agenti ba MTN. Aho bagenda batanga serivise zigiye zitandukanye urabona nk'uyu muntu yaje agana umu agenti wa MTN serivise senta kwaka serivise zigiye zitandukanye harimo kugura amayinite, kugura pake za interinete, pake zo guhamagara, kubitsa, kohereza, no kubikura amafaranga bitewe na serivise.

Aba ni ab'agenti b'ishami rya Emutiyeni momo savisi, aho bakubwira ngo ishyura cyane ukoresheje momo peyi; ubashe kubona poromosiyo zigiye zitandukanye. Harimo ibihembo bigiye bitandukanye: harimo amagare, amatereviziyo, ibikoresho byo mu gikoni n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. Amaterefone, amahedi fone, ingofero n'ibindi byinshi. Aho uyu mu mere cyangwa uyu mu damu, yaje gufata ibikoresho bye kubera yakoresheje Emutiyeni momo inshuro nyinshi.

Uyu ni umu ajenti wa MTN savisi senta , aho ari mukazu acuruje ama inite impande yinzu ya etaje hakaba hari umuntu uri kumugana aza kugura ama inite cyangwa enterineti bya MTN.

Ndabona ari ajenti wa MTN, umumotari gukora taransipoti yo kugemurira abantu ibiribwa bamutumye mu ngo zabo, mu kazi cyangwa mu mahoteli bakoramo.

Iyi ni inzu y'abajanti ba Emutiyeni savisi senta aho bashinzwe kwakira abakiriya bagurisha amasimukadi, amaterefone ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Gufasha abantu guswapa amasimukadi, kugura simukadi nshyashya ndetse no gufungura simukadi zagiye zisinzira zimwe na zimwe.

Iyi ni sisiteme ya emutiyene mobayiro mani, aho wishyura ukoresheje uburyo bwa momo peyi, ukanze akanyenyeri ijana na mirongo inane na kabiri, akanyenyeri gatatu urwego, warangiza ugashyiramo kode y'umucuruzi, aho uyu mucuruzi kode ye yari zero zero, zero zero umunane, umucuruzi akaba amazina abaruye kuri iyo kode akaba ari Celestin design.

Iki ni icyapa cy'ishami rya MTN, kigaragaza uburyo wagira interineti cyangwa MBs za 4G, aho bakubwira ngo wikwisondeka. Kanda *345*8#, ukurikize amabwiriza, uryoherwe n'inyongera za interineti.

Iyi ni inzu y'umu agent wa MTN service Center aho atanga service zigiye zitandukanye harimo kugira amayinite, hakazamo kubitsa, kubikura ndetse no kohereza amafaranga, hakabamo kugura pake za interineti, hakabamo kugura pake zo guhamagara n'izindi pake zo guhamagara mu bindi bihugu bitari mu Rwanda.

Uyu ni umukozi wa MTN savisi senta, aho yambaye agapira k'umuhondo kakubwira ngo wini mobayiro mani. Aha ukanda akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyenyeri gatatu, ari yo ukoresha mayi momo apusi wishyura, aho bigaragara ko ari muri arimantasiyo ari kumwe n'umubyeyi, bari kwishyura bakoresheje mayi momo apusi, aho ukanda akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyenyeri gatatu, warangiza ugashyiramo kode y'umucuruzi ukaba urishyuye.

Aba ni abakozi ba MTN service center bakaba ari abakozi batatu bahagaze mu mujyi i ruhande rwa station, aho batanga serivisi zirimo kugura ama inite, kugura pack za internet, kugura pack zo guhamagara, kwakira amafaranga, kubikura amafaranga, gukora indi transaction ijyanye n'amafaranga hirya hakaba hari imodoka ya Yego aho nayo ishinzwe gutwara abantu n'ibintu mu mujyi wa Kigali.

Ubu ni uburyo bw'ishami rya mtn sevisi center ahowishyura ukoresheje mo mopeyi uyungu yu agiye kwishyura amafaranga ibihumbi magana atanu kuri ngabonziza jean bosco aho code y'umucuruzi ari mirongo icyenda makumyabiri na gatanu zeru gatanu. aho uyu ngabonziza jean bosco wamwishyura ukoresheje akanyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyeri rimwe, code navuze haruguru y'umucuruzi warangiza ukishyura amafaranga nta kiguzi uciwe.

Uyu ni umukozi w'ikigo cy'igihugu cya emutiyeni savisi senta, cyangwa umu ajenti wa emutiyeni. Aho wagura amayinite yo guhamagara, pake za enterinete, kohereza, kubitsa, no kubikura amafaranga, kandi ukabikora mu gihe gitoya.

Iki ni icyapa cy'umucuruzi ukorana na mtn savise seta, aho umucuruzi yishyura akanze akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu, akanyeneri gatatu urwego hanyuma agashyiramo kode y'umucuruzi. Uwo mucuruzi kode ye ni icumi, mirongo inani na kane cumi na gatatu yarangiza agashyiramo amafaranga agakanda yesi.

Aka ni akazu k'umu ajenti wa MTN savisi senta, aho bakubwira ngo kanda akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyenyeri gatanu urwego, serivisi za MTN zijyanye na MOKASHI, zizimo kubitsa amafaranga, kwigurira amayinite, kubikora byose ukoresheje terefone yawe igendanwa

Aba ni abagabo babiri umwe w'umwisiramu bahagararanye n'umwagenti wa MTN service center ku kazu k'umu agent wa MTN service center kakaba kanditseho buy and register your MTN sim aba bagabo bakaba baje kwaka service zitandukanye harimo nko kubitsa, kubikura cyangwa kohereza amafaranga no kugura ama inite.

Iyi ni inzu y'umu ajenti wa Emutiyeni mobayiro mani aho ari kwakira abakiriya babiri akaba atanga n'izindi serivisi zigiye zitandukanye kuko hariho n'ibyapa bya Eyateli mani aho acuruza ama inite ya Eyateli akanatanga pake za Eyateli, akaba anacuruza ama inite ya Emutiyeni akanatanga na pake za Emutiyeni n'izindi serivisi zigiye zitandukanye harimo kwishyura umuriro n'amazi n'ibindi byinshi, hakaba hari abakobwa baje bamugana bambaye imipira itukura.

Iki ni icyapa cy'umucuruzi, aho wishyura ukoresheje MoMo Pay, ukanze akanyenyeri ijana na mirongo irindwi, kuko uburyo bwo gukoresha MoMo Pay ni uburyo bugiye butandukanye bitewe na kampani wishyuramo, nk'iyi kampani yitwa RAB Collection, ifite kode, mirongo inani n'icyenda, mirongo itandatu na gatandatu, mirongo itandatu n'umunani, aho wishyura ukanze akanyenyeri, ijana mirongo irindwi, urwego warangiza ukishyura ugakurikiza amabwiriza.

Iyi ni kode y'umucuruzi wishyura ukoresheje uburyo bwa momo peyi aho kode kode ibaruye kw'izina rya "KIDDY SHOTZ", aho wishyura ukanze akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe akanyenyeri kode y'umucuruzi ariyo zeru, karindwi, mirongo cyenda na gatanu, itanu karindwi, umunani, urwego warangiza ugakurikiza amabwiriza.

Aka n'agashami kumu agenti wa Airtel mani (money) aho waka serivise zigiye zitandukanye, harimo kugura paka za interinete, kugura pake zo guhamagara, kohereza, kwakira no kubikuza amafaranga, hakabamo nuko batombora amafaranga cyangwa ibindi bihembo bitewe no kugura inshuro nyinshi paka. Abo akaba ari abakozi ba MTN n'abakiriya baje babagana.

Aka ni akazu k'umwanjeti wa MTN service center, aho bagushishikariza kwishyura ukoresheje kode, ukanze akanyenyeri, ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe urwego, hanyuma ugakurikiza amabwiriza, aho umwajenti abasha kubitsa, kubikura amafaranga, kohereza amafaranga, kugura amapaka ya interineti, kugura paka zo guhamagara, n'andi mayinite y'ubundi bwoko butandukanye.

Aba ajenti b'ikigo cy'igihugu cya MTN bashinzwe gukwirakwiza interinete, usanga batanga serivise zigiye zitandukanye harimo kugura ama inite, kugura pake zo guhamagara, pake za interinete, kubitsa/kubikura amafaranga, kohereza amafaranga kubantu bagiye batandukanye ndetse serivise zigatangwa mugihe gitoya aho buri muturage yishimira serivise ahabwa y'ishami rya MTN savisi senta.

Aba ni abakozi b'ishami rya emutiyeni savisi senta aho bakubwira ngo wikisondeka, ugura pake za interineti ukanda akanyenyeri gatatu kane gatanu akanyenyeri zeru urwego ukurikize amabwiriza, biragaragara ko hano hari abakozi bane ba emutiyeni savisi senta aho hari n'umukiriya waje ubagana cyangwa wanagura terefone, paka za emutiyeni, kubitsa no kubikura n'izindi serivise zijyanye na emutiyeni mobayilo mani.

Iki ni kigo cy'ubwiteganyirize cya Sanlam aho cyamamaza uburyo wakwishyura ukoresheje Momo Pay ukanze *182*8*1# warangiza ugashyiramo kode ya Sanlam ariyo 026062 aho ku cyicaro cya headquarter ya Sanlam cyangwa ku cyicaro gikuru cya Sanlam, iyo niyo kode yabo wabishyuraho.

Iyi ni inzu y'umwajenti wa Emutiyeni mobayiro mani, aho bakubwira ngo serivisi za Emutiyeni mobayiro mani wazisanga hano. Aho hejuru bakubwira ngo, kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, urwego, ukurikize amabwiriza. Aho wagura amayinite, ukagura pake za interineti, ukohereza amafaranga ndetse ukanabitsa ndetse ukanabikura amafaranga, uyu mwajenti wa Emutiyeni abigufashijemo. Gusa inyuma y'inzu y'umwajenti wa Emutiyeni hari indi nzu ya Eyateri mobayiro mani.

K'umu agenti wa MTN mobilo mani aho ku ruhande hari akandi kazu ka tekino aho bacuruza amaterefone aha mu kazu gahagazemo abantu bakaba baje kwaka serivise zigiye zitandukanye harimo kugura pakesi, kugura interineti, kwishyura amashanyarazi kwishura amazi n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ubu ni uburyo bwo kugura pack za Internet aho wishyura ukoresheje amainite cyangwa ukoresheje amafaranga ufite kuri MOMO cyangwa Mobile Money yawe, nk'uyu nguyu agiye kwishyura amafaranga magana atanu aho yaguze mega magana inani akanze akanyenyeri ijana mirongo itatu na gatanu urwego yarangiza agakurikiza amabwiriza.

Iki ni ikinyabiziga cy'ibinyamitende ibiri gishinzwe kukugezaho cyangwa gishinzwe kugeza ku muntu ibintu aba yatumije yifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Nawe akaranga amerekezo ye hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga.

Iki ni icyapa kigaragaza kode yo kwishyura ukoresheje momo payi y'umucuruzi iri mu mazina ya Ngabonziza Jean Bosco, aho ukanda akanyenyeri ijana na miromgo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe akanyenyeri kode y'umucuruzi ariyo mirongo icyenda makumyabiri na gatanu zeru gatanu urwego warangiza ugashyiraho amafaranga.

Aka ni akazu k'umwajeti wa MTN service center, aho yakira abakiriya baje bamugana. Baje kugura paka zo guhamagara, paka za eterineti, kohereza cyangwa kwakira amafaranga cyangwa kubikuza amafaranga cyakubitsa amafara kuri simukadi, cyangwa gukora simi suwapu, bitewe na serivisi bagiye bakeneye, nko kugura internet za fo ji n'ibindi byinshi.

Uyu ni umukozi wa MTN service center aho akubwira uburyo wagura park ukanze akanyenyeri ijana na mirongo ine cyangwa ukanze akanyenyeri ija na mirongo itatu na gatanu, ugura park za internet aho gukanda akanyenyeri ijana na mirongo ine ari ukugura park zo guhamagara, ari internet yihuta ya foji ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byinshi cyane, amayinite, gukora ransaction z'amafaranga ndetse n'ibindi byinshi.

Utu ni utuzu tw'aba agenti babiri bakorera kampani zitandukanye harimo kampani ya eyateli mani hakaba n'ukorera emutiyeni mobayiri mani aho wakanda akanyenyeri karindwi karindwi umunani urwego ugakurikiza amabwiriza ya eyateli mani, aho wakanda akanyenyeri magana atatu na gatatu urwego ugakurikiza amategeko ya emutiyeni mobayiri mani.

Iyi ni inzu y'umu agenti wa emutiyeni mobayiro mani cyangwa umu agenti wa emutiyeni serivise senta, aho ari kwakira abakiriya. Umukiriya uhetse igikapu wambambaye agapira k'umweru, ufite ibikomo ku kaboko, aho yaje gusaba serivise zigiye zitandukanye. Muri serivise uwo mu agenti atanga harimo kugurisha amayinite, kubitsa, kubikura, kohereza amafaranga ndetse no kugura paka za interinete n'izo guhamagara.

Uyu numuturage uri kwishyura akoresheje uburyo bwa momo pay aho akanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe akanyenyeri kode yumucuruzi akanyenyeri amafaranga yarangiza agashyiramo pasuwadi yarangiza akaba arishyuye akoresheje simatifone.

Aba ni abakozi b'abadamu babiri b'ikigo cy'igihugu cya mtn sarvise center aho bagurisha simukadi, bagakora simi suwapu, bagatanga amapakisi za interinete, pakisi zo guhamagara, kubitsa kubiku amafaranga ndetse bakaba banambaye amabaji agaragaza ko hari abakozi ba emutiyeene bambaye n'imipira ndetse yanditseho momo wivu emutiyene.

Aka ni akazu k'umwajenti wa serivise senta, aho atanga serivise zigiye zitandukanye, harimo kugura amayinite , kugura paka zo guhamagara, kugura bando za interineti, kohereza amafaranga, kwakira amafaranga , kubitsa ndetse no kubikura amafaranga bitewe naserivise ushaka uza umugana serivise kuko urabona yiyicaye mu kazu ke ategereje abakiriya baza bamugana

Iki ni icyapa cya mtn savisi sete cyangwa umucuruzi cyangwa indi company yi ikorera ikorana na mtn sevisi seta, aho iyi kampanyi yitwa kete boden itapurise aho ifite code mirongo irindwi'umunani mirongo cyeyenda makumyabiri aho wakwishyukanze akanyeri ijana mirongo inani na kabiri akannyeri umunani akanyeri rimwe urwego warangiza ugakurikiza amabwiriza.

Uyu ni umukozi w'ishami rya emutiyeni savise senta, aho ari kumwe n'abandi bakozi b'ishami rya emutiyeni savise senta, aho bari kugaragaza uburyo wakwishyura ukoresheje Momo peyi, ukanze akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri gatatu, akanyenyeri kode y'umucuruzi, aho yaje muri farumasi, aho bafite kode, ari yo zeru, zeru zeru, mirongo itatu na gatandatu.

Mu Rwanda tuhasanga abakozi benshi b'ikigo cya mutiyeni na eyateri bashinzwe gukwirakwiza enterineti ndetse n'amayinite mubaturage. Aho wagura paka yo guhamagara paka za interinet, kohereza cyangwa kwakira amafaranga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, kwishyura ifatabuguzi ry'umuriro, kwishyuraifatabuguzi ry'amazi abo ba ajenti babigufashamo.

Iyi n'inzu y'umu ajeti wa eyateri mani aho atanga serivise zigiye zitandukanye harimo; kugura amayinite, kugura pake za eterinete, kugura pake zo guhamagara, aho pake za eterinete ugura pake y'ibihumbi bitatu mu iminsi mirongwitatu bakarya baguha wani jigabiti, kohereza no kwakira amafaranga, kugura ifata buguzi ry'umuriro, kwishyura ifatabuguzi ry'amazi n'inzindi serivise zigiye zitandukanye.

Aba ni abaturage ba bagabo babiri, aho bari kwishyura aba motari bakoresheje terefone, aho wabishyura ukoresheje momo payi (pay) cyangwa ukabishyura ukoresheje mobile mani (money),aho umu motari yakuvana mugace runana aka kujyana mukandi gace runaka, ukamwishyura ukoresheje terefone bitewe nibihe tugezemo by'ikoranabuhanga, aho amafaranga atakigezweho kwishyura amafaranga mu ntoki (by cash).

Iyi ni inzu y'aba ajenti bakorera, bakorera amakampani agiye atandukanye, harimo Rwanda reveni otoriti, irembo, ekwiti bake n'izindi baka zigiye zitandukanye, aho wakwishyura imisoro, aho wakwishyura taranzagisheni y'amafaranga kuri bake cyangwa n'ubundi buryo ubwo aribwo bwose bwo kubitsa no kubikura amafaranga utagiye ku byicaro by'amabake cyangwa ku kicaro cya Rwanda reveni otoriti.

Iki ni icyapa cy'umucuruzi, ukoresha simukadi ya MtN mobiyire moni aho wishyura ukoresheje MoMo pay, gusa k'uruhande hakaba hari ikarito irimo terefoni yanditseho kabodi, aho ari terefoni ya MTN,aho wishyura ukanze aka nyenyeri ijana na mirongw'itandatu na gatanu; aka nyenyeri; gatatu; akanyenyeri; urwego warangiza, ugakurikiza amabwiriza; aho kode y'umucuruzi ari:gatandatu; zeru zeru; cumi n'icyenda; gatandatu.

Aka ni akazu k'umwajenti wa mtn savise seta, aho bahagaze ari abajeti batatu bari kwakira umukiriya umwe. Uwo mukiriya bigaragare ko ari kugura terefone za mtn savise seta, gus hirya hakaba hari n'undi mu ajeti wa mtn savise seta ugurisha cyangwa wohereza akanabikura amafaranga kuri simukadi.

Iyi ni inzu y'umu agenti cyangwa aba agenti b' ishami rya Eyateri mani. Aho bashinzwe gutanga serivisi zigiye zitandukanye: kugura pake zo guhamagara, kugura pake za interineti, kohereza amafaranga ndetse no kwakira mafaranga, kubikuza amafaranga, kugura terefone zigiye zitandukanye za macye macye, aho wishyura terefone macye macye mu gihe cy'ukwezi cyangwa umwaka bitewe n'uko wasetinze.

Uyu ni umutaka w'umwagenti wa Emutiyeni savisi senta cyangwa momo ajenti, aho wishyura ukanze akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu, akanyenyeri gatatu, urwego, warangiza ukishyura nta kiguzi uciwe na kimwe, aho ushobora kugura amayinite, kohereza amafaranga, kwakira amafaranga, kubikuza, kugura pake za interineti, zaba iz'ukwezi, iz'umunsi cyangwa iz'icyumweru, zaba n'izo guhamagara, pake, bitewe na pake ukeneye.

Aba ni abakozi ba ishami rya MTN service center aho bari gutanga serivise zo kugura no kugurisha telefone bose bakaba bambaye imyenda igaragaza ikigo k'igihugu cya MTN service center akaba ari nacyo bakoramo.

Uyu ni umukiliya uri kuri sitasiyo za esanse aho ari gusikana apulikasiyo ya momo apusi akishyura akanze akanyenyeri, ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyenyeri gatatu, akanyenyeri umunani urwego, yarangiza agashyiramo kode y'umucuruzi ariyo; magana arindwi, maganatatu na mirongo ikenda na gatatu.

Uyu ni umu agenti w'ishami rya emutiyeni savisi senta, aho ari kwakira abakiriya batandukanye , ababitsa amafaranga, ababikuza, abagura amasimukadi ndetse n'abakora taranzagisheni z'indi z'amafaranga aho ari kubakira ari benshi aho baje bamugana kugira ngo abahe serivisi zigiye zitandukanye.

Uyu muntu yaganye ishami rya emutiyeni serivise senta, aho yaje gusaba serivise zigiye zitandukanye harimo kugura telefone, taransakisheni y'amafaranga n'ibindi bigiye bitandukanye. Gusa hejuru hari icyapa kiriho telefone igaragaza uburyo wagura pake ukanze akanyenyeri ijana na mirongo ine urwego akaba ari pake yo guhamagara ku mirongo yose.

Aba ni abakozi b'ishami rya emutiyeni savise senta, aho bakorana n'ikigo cya emutiyeni cya Ayoba, aho watombora ingofero, amayinite, impeta, amakarita cyangwa n'ibindi bigiye bitandukanye. Aho wakoresha apu ya Ayoba, warangiza ukabasha gutombora ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Iyi ni inzu irimo umu ajenti wa MTN mobile money, aho ubitsa, ukanohereza amafaranga ,ukagura pake zo guhamagara, ukagura amayinite yo guhamagara, amayinite ya interineti, pake za foji, bando zigiye zitandukanye ,ukanze akanyenyeri ijana na mirongo ine cyangwa ukanze akanyenyeri ijana namirongo tatu na gatanu kuri pake za interineti.

Iri ni ishami rya emutiyeni savise senta, aho ubagana ugiye kugura simu kadi, kugura telefoni za emutiyeni, kugura amapaki ya interineti, paki zo guhamagara, paki zihamagara hanze y'u Rwanda, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kugura simu kadi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Iri ni iduka rishinzwe gutanga serivise za emutiyene savise senta aho hari n'icyapa ku ruhande cya ayoba, aho ukaraga ugatsindira amafaranga bitewe na tombora ubashije gutombora, hakaba hari abantu bari kugana iryo shami rya emutiyene hari n'umuntu urimo ugenda mu muhanda wambaye ishati y'ubururu.

Iyitwa Airtel money aho wagurira amayinite, pake za enterineti, pake zo guhamagara n'ibindi bigiye bitandukanye kwishyura ifatabuguzi ry'umuriro, kwishyura ifatabuguzi ry'amazi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye aba rero akaba ari abantu baje bagana ku mu ajenti wa Airtel bamwaka serivise zigiye zitandukanye.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza interineti mu baturage cya emutiyeni, gitanga paki zigiye zitandukanye, aho ugura paki yo guhamagara cyangwa iya interineti, nyuma ukazatsindira ibihembo, harimo moto, amagare, televiziyo, imodoka n'ibindi bigiye bitandukanye, n'amafaranga. Uko uguze paki kenshi ni ko ugenda wiyongerera amahirwe yo gutsindira ibihembo bigiye bitandukanye.

Iri n'isoko ry'imbuto n'imboga, aho bacuruza ibiribwa bigiye bitandukanye, harimo karoti, inyanya n'ibindi bigiye bitandukanye, amavuta, ibikoresho byo mu gikoni ndetse n'ibindi byo kurya bigiye bitandukanye. Aho umucurizi yamanitse icyapa akubwira ngo ishyura ukoresheje momo peyi, aho ukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe, akanyenyeri kode y'umucuruzi, warangiza ugakurikiza amabwiriza.

Uyu ni umucuruzi cyangwa umu agenti wa emutiyeni serivisi senta aho ari kwakirira umukiriya waje amugana wasanga ari gusaba paka za interineti, paka zo guhamagara, kubitsa, kubikura amafaranga bitewe na serivisi akeneye mu gihe icyo aricyo cyose.

Aba ni abantu babiri. Umwe ni umugabo, undi ni umugore. Uwo mugabo yambaye umupira wanditseho uburyo wakishyura ukoresheje momo peyi. Umugore akaba afite telefone mu ntoki, akaba ari kwishyura akoresheje uburyo bwa momo peyi.

Iki ni icyapa cya MTN cy'umucuruzi, aho wishyura ukoresheje momo peyi, ukanze akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyeri umunani akanyenyeri rimwe akanyenyeri kode y'umucuruzi ariyo; zeru kane mirongo itatu na gatandatu, itandatu n'icyenda, warangiza ukishyura amafaranga nta kiguzi uciwe.

Aba ni abantu bahagaze mu mutaka wa emutiyeni savise senta, bakaba baje gusaba serivisi zitandukanye. Hakaba hari umuntu wambaye ishati y'umweru, ufite n'akarujisitire mu ntoki, n'undi wambaye ikanzu. Hirya hakaba hahagaze abantu mu mutaka, basa n'aho begereye umu agenti bari kumwaka serivisi zitandukanye.

Iki ni icyapa cy'umucuruzi wa emutiyeni aho wishyura ukoresheje momo peyi, ukanze akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu, akanyenyeri gatatu akanyenyeri urwego, aho wishyura ntakiguzi baguciye, kode y'uwo mucuruzi ni magana atandatu ijana na mirongo inane na gatatu warangiza ukishyura amafaranga.

Uyu mugabo wicaye ku igare, aho yatsindiye iri igare akanze akanyenyeri ijana na mirongo ine urwego cyangwa akanze akanyenyeri ijana na mirongo itatu na gatanu urwego, hanyuma akagura pake inshuro nyinshi za emutiyene savisi senta, aho inyuma hari umugore wicaye mu mutaka ukorera ishami rya emutiyene savisi senta, ugurisha akanagura amayinite.

Uyu ni umu agent cyangwa umukozi wa MTN serivisi center aho ari gusobanurira umukiriya uburyo yagura paka akanze akanyenyeri ijana na mirongo itatu na gatanu akanyenyeri rimwe urwego agahitamo paka imubereye paka za fogi, pake z'ukwezi, paka z'icyumweru, paka z'umunsi n'izindi paka zigiye zitandukanye.

Iki n'icyapa cya ishami rya emutiyene savisi seta kigaragaza uburyo wagura pake zitandukanye hari nago ukanda akanyenyeri ijana na mirongo ine urwego cyangwa akanyenyeri maganatatu na mirongo ine nagatanu urwego ukagura pake foji iterineti yihuta, kuruhande hakaba hari umukecuru n'umwana bamamariza emutiyene.

Iyi ni inzu y'ishami rya emutiyene serivise senta. Aho batanga serivise zigiye zitandukanye : harimo kugura simukadi, gukora simu swapu, kugura amaterefone ya emutiyene mobayiro mani, kugura amayinite na paka y'ukwezi cyangwa amayinite ya foji cyangwa na interineti yafoji Aho kurihande hari nicyapa cya ayoba aho utombora ibintu bigiye bitandukanye.

Kuri murandasi aho utanga imyirondoro yawe n'ibyo ukeneye, n'aho babikugezaho, amazina yawe na nimero yawe ya telefone bakakugezaho ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo ibicuruzwa byo gushimisha inshuti, mu bakunzi ndetse no mu miryango yawe.

Iyi ni online marketings aho ugura ukanagurisha ibikoresho bijyiye bitandukanye, harimo imodoka, inzu, ibibanza bigurishwa n'ibibanza bikodeshwa. Aho wivuganira n'umukiriya amasaha makumyabiri n'ane kuri makumya n'ane ukabasha no kugura ibikoresho byo mu nzu ndetse n'ama laptops ajyiye atandukanye.

Kuri murandasi usanga harimo ibicuruzwa bitandukanye bikomoka mu bihugu bigiye bitandukanye. Twavugamo ibicuruzwa bikomoka mu gihugu cy'Ubushinwa, igihugu cya Koreya, igihugu cy'Ubuyapani n'ibindi bihugu byinshi bigiye bitandukanye, aho utanga umwirondoro wawe bakakugezaho ibicuruzwa byawe ukeneye, aho waba uherereye aho ariho hose.

Hari ibigo byinshi bikorera kuri murandasi, aho bishinzwe kukugezaho ibicuruzwa wagiye utumizaho aho uri mu kazi iwawe, mu rugo cyangwa muri hoteri ucumbitsemo, aho utanga imyirondoro yawe, aho uherereye, ndetse n'ibyo ukeneye maze bakabasha kubikugezaho byaba ari ibituruka hanze y'u Rwanda cyangwa ibikorerwa hano iwacu mu Rwanda.

Mu Rwanda hari ibigo byinshi bikorera kuri murandasi aho watumiza ibikoresho ukeneye bakabikugezaho iwawe mu rugo aho watumiza ibikoresho byo mu nzu, ibikoresho byo mu gikoni, imyenda ndetse n'inkweto byo kwambara wibereye iwawe ukoresheje kuri murandasi aho utanga umwirondoro n'ibyo ukeneye bakabikugezaho wibereye iwawe mu rugo.

Iri ni idukaka rikorera kuri online cyangwa interinete ryitwa WORLDWIDE SHOPPING rikaba ricuruza ibikoresho bigiye bitandukanye harimo ibikoresho bya elegitoronike, ibyo mu nzu, ibyo mu gikoni, imyambaro y'abagabo n'abagore, inkweto zigiye zitandukanye rikaba rikorana AMAZON na ALIBABA, hasi hakaba hari aho wabandikira emeri yabo na nomero za telefone.

Mu Rwanda hari kampani, zishinzwe gutwara ibintu zibigeza ku bantu mu ngo zabo. Zibiguze mu maduka, cyangwa ari ibintu abantu bohererezanya kubikura mu ngo zabo babigeza mu zindi ngo. Iki kigo cya Kasha aho wacyandikira kuri wa wa wa, akadomo kasha, akadomo rwa cyangwa ukabahamagara ku icyenda rimwe rimwe. Hanyuma bakakugezaho ibicuruzwa wabashije gutumiza, mu mabutike cyangwa mu maresitora.

Ubucuruzi bukorerwa kuri murandasi cyangwa kuri enterinete, usangaho ibicuruzwa bigiye bitandukanye muri ibyo twavugamo amasakoshi y'abadamu, imirasire y'izuba, inkweto z'abagore ndetse n'iz'abagabo, amaterefone, imidoka, imyenda y'abana ndetse n'ibikoresho byo mu gikoni. Aho utanga umwirondoro wawe amazina aho uherereye ndetse n'ibyo ukeneye maze abo bacuruzi bakorera kuri enterinete cyangwa kuri murandasi bakabikugezaho aho uri hose.

Iyi ni online marketing ikorera Kimironki yitwa Family Bouquet, aho utumiza ibintu bakabasha kubikugezaho iwawe, aho watumiza amavuta; ifarine; ibitoki; inyama; imboga n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Aho wakwishyura ukanze akanyenyeri; magana atanu; akanyenyeri; kane; akanyenyeri; kabiri; akanyenyeri; rimwe; akanyenyeri; kode ariyo mirongwitanu na gatanu; mirongwine; cumu nagatanu; urwego cyangwa ukabahamagara kuri:zeru; karindwi; mirongwitatu na gatanu; cumi na kane; mirongwicyenda na kabiri; kane,

Iki ni ikigogo cya Kanisi fudu gishinzwe kukugezaho ibyo watumije bivuye muri resitorenti, mu mabutiki, amahoteri cyangwa mu maduka agiye atandukanye aho bagusaba umwirondoro wawe aho babikugezaho terefone n'amazina yawe bo bakabikuzanira ku giciro gitoya kandi kiri hasi.

Iyi ni onirayini shopingi aho yitwa muruki shopu, aho utumiza ibintu bakabikuderivaringa bakabikugezaho aho wicaye aho bacuruza ibintu bigiye bitandukanye harimo amasakoshi, hakabamo imiti yo mu gikoni, hakabamo amahanga bamanikaho imyenda, hakabamo kofi, hakabamo ibiribwa bigiye bitandukanye n'ibindi byinshi cyane.

Uyu ni umu motari ukorera ikigo gikorera kuri onurayini maketingi(online marketing) ,aho utumiza ibiryo icyo kigo kitwa pozo derivari (poz delivery),aho bashobora ku kugezaho ibiryo watumije .Uyu mu motari aderivarinze cyangwa atwaye ibiryo umukiriya yatumije akaba abimushyiriye ahantu yi yicariye mukazi cyangwa mu rugo cyangwa muri Hoteli ahantu ari kuruhukiramo bitewe naho umukiriya yatumije ibiryo ari .

Iyi ni onolini maketingi ya migaro ishinzwe kukugeza ho ibintu watumije aho wabahamagara kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi gataratu zeru zeru mirongo inani nakarindwi zeru cyangwa ugabankira kuri whatsapp kuri zeru karindwi mirongo inani nakarindwi magana atandatu magana biri na mirongo itatandatu aha abo bamotari aribo bashinzwe derivalinga nk'ibyo bicuruzwa watumije akabikurikizaho iwawe

Iyi ni onoline makitingi aho abo bantu babiri bari kwamamaza afripad aho bakubwira ngo be the warld leading social enterpris manufacturing reusable sanitarypads aho bari kwamamaza iyo pad ikoreshwa n'abagore cyangwa abakobwa.

Iki ni ikigo gikorera kuri interineti cya Kiku, aho wasangaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo amakuteri, amatelefoni, inkweto, amasakoshi y'abagore, inkweto z'abagore, imyenda igiye itandukanye, kuko Kiku ibaha ibintu byinshi bigiye bitandukanye, kandi iyo ubitumije babikugezaho nyuma y'icyumweru kimwe.

Mu rwanda hari ibigo byinshi by'ubucuruzi bikorera kuri murandasi cyangwa kuri internet aho utumizaho ibicuruzwa bakabasha kubikugezaho aho waba uhererereye hose, mu gihugu aho utanga umwirondororimo amazina numero ya telefoni ibicuruzwa bikene ndetse n'aho uherereye maze bakabikugezaho muri ibyo bicuruza twavugamo amazi amagazi ibiribwa ndetse n'ibindi binyobwa bi bitandukanye waba uri mu kazi mugo cyangwa aho wa uri gusabana n'inshuti zawe.

Ubucuruzi bukorera kuri marandasi usangaho ibicuruzwa bigiye bitandukanye aho utanga umwirondoro wawe harimo amazina, nomero za telefoni, nomero y'irangamuntu, aho uherereye n'ibicuruzwa ukeneye bakabasha kubikugezaho muri ibyo bicuruzwa twavugamo: imyenda y'abagore, imitako y'abagore n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanyekanya, ibikoresho byo mu gikoni, ibyo muri salo ndetse n'ibindi byinshi ugiye ukenera bakabikugezaho aha ariho hose.

Cya pozo derivari gishinzwe kukugezaho ibintu watumije mu rugo iwawe babikuye muri za butikisi, ama alimantasiyo ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Aho utanga umwirondoro wawe, aho uri, amazina yawe na nimero ya telefone bakabasha kubikugezaho

Iki ni ikigo cya saju maketi akadomo rwa, gikorera kuri enterineti. Aho wagura ibikoresho bigiye bitandukanye harimo imyenda y'abageni, ibikoresho byo mu gikoni, imyenda y'abagabo ndetse n'inkweto z'abagabo kandi bakabikugezaho aho waba uherereye aho ariho hose.

Iki ni ikigo cy'igihugu gikorera kuri murandasi cya Twiga, aho bakugeza ho ibicuruzwa waba watumije, ibyo aribyo byose, aho waba uherereye mu gihugu aho ariho hose, ku giciro gitoya, aho utanga umwirindoro wawe bakabasha kujya kubikuzanira mu maduka yaha i wacu mu Rwanda, amahoteri, ndetse n'amaresitora bigiye bitandukanye.

Iki ni ikigo gikorera kuri murandasi gishinzwe kugezaho abantu ibintu batumije, cyitwa siteyi sefu onurayini, aho utumiza ibintu mu iduka cyangwa ukabasha guhaha ikintu kuri iryo soko, barangiza bakabikugezaho iwawe. Aho wabahamagara: kuri mirongo icyenda na rimwe, cumi na rimwe, bakabasha kukugezaho ibicuruzwa watumije.

Iki ni icyapa cyamamaza supe maketi irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye imbuto imboga ibiribwa n'ibinyobwa bitandukanye, kikaba kinavuga ko iyo uguze bagutwaza ku buntu ibyo bicuruzwa byose babigutwaza ku buntu.

Iyi ni kampani ya yego ishinzwe kugeza ibiguzi ku bantu babiguze, iyo kampani ukaba uyihamagara kuri mirongo icyenda na rimwe, mirongo icyenda na rimwe, barangiza bakakugezaho ibicuruzwa wabashije gutumiza. Dore nk'ubungubu aka kanverope bakazaniye umuntu wagatumije kuri ino moto.

Uyu ni umumotari wa onurayoni shopingi, ikorera kuri enterineti, yitwa vuba vuba, aho utumiza ibintu ubasha kwishyura ukuresheje enterineti maze ubundi bakabikugezaho iwawe murugo aho wicaye ,aho uyu mumotari ashinzwe kuderivaringa ibintu abikura kukicaro cya kampani akabikugezaho iwawe murugo aho watanze aderesi ko babikugezaho.

Iyi ni intumwa ya vubavuba aho utumiza ibintu kuri onorayini cyangwa kuri enterineti ukoresheje terefone igendanwa cyangwa mudasobwa bakabikugezaho ntakindi kiguzi. Aho uyu muntu yambaye imyenda iranga kampani akorera ariyo vubavuba moto, kasike na pakeji bakuzaniye.

Iyi ni onurayini shopusi ishinzwe kukugezaho ibyo watumije ibyo ari byo byose, muri supamaketsi zigiye zitandukanye, aho wareba ubutumwa kuri apusi yabo cyangwa rinki, aho wakandikamo heripusi ubudomo bubiri uburongo ibihumbi bibiri supamaketsi akadomo komusi, warangiza ukareba ibicuruzwa bigiye biriho n'ibyo watumiza bakabikugezaho ku buntu.

Iki ni ikigo gishinzwe kugurisha ibintu gikorera kuri interineti cyitwa Alibaba. Aho wagura ibintu wibereye iwawe bakabikugezaho. Aho utumiza ibintu ukeneye, bakaba bacuruza amashakoshi, amateleviziyo, ibikoresho byo mu gikoni, ibikoresho byo muri salo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, inkweto, imyambaro y'abagore n'iy'abagabo ndetse n'ibindi byinshi, amayuwezibi ndetse n'imigozi igiye itandukanye.

Iyi onuline maketingi ikora ubucuruzi bujyanye no gukora ibicuruzwa bivuye mu buhinzi harimo imineke ku mafaranga magana abiri n'ibirayi ku mafaranga igihumbi magana abiri ku kiro, aho utumiza ibicuruzwa bakabikugezaho, urabona ko ari hejuru hariho inyanya abaturage bagenda bagemura na tagisi izijyana aho bazitumije.

Haba kuri murandasi cyangwa kuri interineti, usanga bacuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Muri ibyo twavugamo imyenda y'abagabo, imyenda y'abagore, ibikoresho byo mu gikoni, amamodoka, amateleviziyo, amaterefoni n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. Aho utanga umwirondoro wawe, nomero ya telefoni cyangwa ukabandikira ku mbuga nkoranyambaga bakoresha bakabasha ku kugezaho ibicuruzwa aho waba uherereye ahariho hose mu gihugu.

Iki n'ikigo gishinzwe gutanga serivise zijyanye no gutanga amayinite cya Airtel mani ,aho ugura pake y'ibihumbi bitanu bakaguha jiga bayiti 60 mu minsi mirongo 30. Aho wakohereza amafaranga, ukabitsa ,ukanabikura amafaranga ku mirongo yose, ukagura pake ku mirongo yose, pake za interinete, pake zo guhamagara n'izindi pake wifuza.

Uyu ni intumwa ya puzo derivari aho utumiza ibintu bakabikugezaho aho wibereye mu kazi, mu rugo iwawe, aho urigusabana n'umuryango wawe, uyu akaba ari umumotari ushinzwe kugezaho ibintu umukiriya yatumije bakabasha kubimugezaho mu rugo iwe aho yibereye.

Iki ni ikigo gikorera kuri murandasi gishinzwe kugura ndetse no kugurisha ibicuruzwa bigiye bitandukanye, aho ushyiraho igicuruzwa cyawe ndetse n'igiciro cyacyo, bakagufasha kuguhuza n'abakiliya baza kugura icyo giciro, uwo mukiliya agatanga aderesi ye mwabashije guhuza, akabasha kwishyura akoresheje uburyo bwa interinete.

Iki ni ikigo cy'Igihugu cy'Irembo gishinzwe gutanga serivisi binyuze kuri interineti. Harimo serivisi za polisi, iz'ubutaka n'iz'umuryango. Iz'umuryango twavugamo icyemezo cy'uko uri ingaragu, serivisi z'ubutane, kwemeza ko umuntu ari impfubyi, icyemezo cy'uko warokotse jenoside, n'ibindi bigiye bitandukanye.

Aba ni abamotari bo mumuhanda bashinzwe kwamaamza ishami rya Yegomotozi rikorera kuri enternet abamotari bakaba bambaye amakasike agaragaza ko bamamaza yegomotozi amakoti agaragaza ko bamaamariza yegomotozi bakaba baparitse ahantu ku mumhanda bishize hamwe nk'itsinda.

Iki ni ikigo gikorera mu Rwanda cya onulayini shopingi kitwa disikava ruti aho utumiza ibintu bakabikugezaho babikuye mu maduka supamaketi, aho utanga umwirondoro wawe, aho uri ndetse n'icyo ukora na nomero za terefone bakabasha kukuderivaringira ibintu bakabikugezaho bakabikuzanira aho iwawe mu rugo cyangwa mu kazi aho uri gukorera.

Uyu ni umumotari ukorera ikigo gikorera ku ikoranabuhanga kitwa Kasha, aho ugura ibikoresho by'isuku, aho bakubwira ngo gura ibikoresho by'isuku n'iby'ubuzima, aho ukanda icyenda rimwe rimwe urwego cyangwa ukabandikira kuri www.kasha.rwa cyangwa ukabahamagara kuri nomero itishyurwa rimwe rimwe rimwe, ugakurikiza amabwiriza.

Ubucuruzi bukorerwa kuri murandasi cyangwa kuri enterinete ni ubucuruzi bwihuta kandi bugakorwa igihe kigufiya, aho utanga umwirondoro wawe bakakugezaho ibikoresho ukeneye ibyaribyo byose, aho utanga umwirondoro: harimo amazina, nimero ya terefone n'aho uherereye ndetse n'ibicuruzwa ukeneye bakabikugezaho.

Iyi ni onorayini shopuzi aho bacuruza ibintu bigiye bitandukanye, harimo amafurashe disike, amayuwezibi, ibikoreshho byo mu nzu, imyambaro itandukanye, aho ubitumiza ukabihesha kubiderivaringa bakabikuzanira aho uri iwawe ku giciro cyo hasi kandi bakabikugezaho mu gihe cya nyacyo.

Vuba vuba n'ikigo gishinzwe kukugezaho ibintu watumije gikorera kuri murandasi, aho bikugezaho ibintu watumije mu ma shopusi, mu maduka agiye atandukanye ndetse no mu masoko agiye atandukanye, aho bakugezaho ibintu, icyo bagusaba wowe n'ukuzuza imyirondoro yawe bakabikugezaho ibicuruzwa wabashije gutumiza.

Iyi ni online marketing isizwe kugezaho ibicuruzwa ku bantu agiye babitumiza. Dore nk'ubwo umumotari azanye igicuruzwa umuntu yabashije gutumiza, uwo muntu wambaye agapira k'umutuku n'ipantaro ya y'umweru, naho umumotari wambaye ipantaro y'umweru, n'ijiri na cask. Aho umumotari azanye ibintu, uwo muturage yabashije gutumiza kuri online marketing bakabimugezaho.

Iyi ni onilayine maketingi yitwa safi ishinzwe kuderivaringa ibintu ku bantu bagiye babitumiza, aho uyu mumotari yazaniye uyu mudamu ibintu yatumije akaba yamugejejeho iwe mu rugo kandi ku kiguzi cyo hasi, ntakindi kiguzi aciwe bitewe n'ibintu yagiye atumiza.

Uyu ni umukozi w'ikigo cya Vuba vuba gikorera kuri online maketingi, aho aderevarinze ibintu ku muntu wabitumije mu rugo rwe, aho yamuzaniye imbuto n'imboga, n'amavuta yo guteka, aho bose bishimye ubona nyine basetse, aho bari gutanga serivisi nziza kandi zizewe.

Iri ni isoko rikorera kuri onorayine aho utumiza ibintu bakabikugezaho aho wicaye iwawe mu biro cyangwa mu kandi kazi, aho ukorera aho ariho hose aho iryo soko ryitwa kiku cyangwa aribaba, aho watumiza ibintu bakabikugezaho ibiribwa, amasakoshi, imyambaro n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ikigo gikorera kuri murandasi cyitwa vuba vuba, aho utumiza ibintu bakabikugezaho mu gihe gitoya. Aho utanga umwirondoro wawe, nomero za telefoni, amazina yawe, ibyo ukeneye ndetse n'aho uherereye bakabasha kubikugezaho ku giciro gitoya. Aho utumizaho ibiribwa, ibinyobwa ndetse n'ibindi bikoresho byaba bitandukanye mu maduka y'aha iwacu mu Rwanda.

Uyu ni umukozi w'ikigo gikorera kuri onulayini, gishinzwe kugezaho abantu ibintu cyitwa Vuba Vuba gikorera kuri interineti, aho utumiza ibintu bakabikugezaho iwawe mu rugo. Dore nk'ubwo uwo muntu yatumijemo imbuto zigiye zitandukanye, n'imboga, ndetse n'amavuta, uwo mukozi w'ikigo cya Vuba Vuba akaba yabashije kubimugezaho.

Uyu ni umunyegare ukorera Vuba Vuba, aho ashinzwe kuderivaringa ibintu ku bantu bagiye babitumiza ku cyicaro cya Vuba Vuba onulayini ikorera kuri interineti, aho uyu mucuruzi yazanye ibicuruzwa byagiye bitumizwa, abizana mu makaritsiye agiye atandukanye, ku kazi cyangwa mu ngo zigiye zitandukanye z'abantu bwite.

Iri n'isoko rikorera ku mbuga nkoranyambaga irizwi nka onurayini maketingi(online marketing),aho bacuruza ibikoresho bigiye bitandukanye harimo amayekuteri, ama terefone agiye atandukanye, ubukomo bwo ku maboko, ama piyesi (pieces) agiye atandukanye akoreshwa mubikoresho byama shanyarazi(electronic) hakaba hagiye hariho naburi giciro cyaburi ikintu bagurisha ,aho ba biderivaringa(delivery) bakabikugezaho aho uri hose.

KFC ni ikigo gishinzwe kugeza aho ibyo batumije icyo bagusaba no kuzuza umwirondoro wawe, ikigo kikaba gikorera kuri murandasi bakabasha kukugezaho byatumije mu maduka, cyangwa mu masoko agiye atandukanye byaba ibiribwa cyangwa ibinyobwa mu gihe gitoya.

Iyi ni onulayini maketingi icuruza ibyo kurya bigiye bitandukanye harimo piza, ifiriti, inyama z'inkoka, n'ibindi byinshi aho uwo mucuruzi cyangwa uri kwa gukora adivatayizimenti kwamamaza akubwira ibyo watumiza bakabikugezaho iwawe mu rugo.

Ubucuruzi bwo kuri murandasi usanga ari ibicuruzwa bituruka mu bihugu bigiye bitandukanye, twavugamo nk'ibihugu byo ku migabane y'i burayi, harimo za Europe ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye byo ku mugabane w'i burayi aho utumiza ibicuruza bakabasha kubikugezaho, wowe ukajya kubitora kuri gasutamo hano mu Rwanda, wowe uba watanze imyirondoro yawe, aho uherereye bakabasha kubikugezaho babikuye mu burayi, babizana mu Rwanda.

Iyi ni kampani ya Roots Rwanda onulayini sitowa ikorera kuri interineti aho igurisha ikanagura, ikanohereza ibintu kubantu bagiye babitumiza aho wayihamagara 0781308888 ikaba ikoramo abakobwa babiri nibo bicayemo n'umuhungu umwe.

Iki ni ikigo gishinzwe kugeza aho abaturage ibiryo batumije cya heah ford aho utanga umwirondoro n'ibyo ukeneye bakabikugezaho. aho utanga nomero za telefoni adresi z'ahantu uherereye hanyuma ukishyura amafaranga runaka bitewe n'igiciro n'ahantu utuye hanyuma bakabikugeza ho bitewe n'ibiryo wagiye utumiza.

Iyi ni onurayini maketingi cyangwa isoko ryo ku mbuga nkoranyambaga/isoko ryo kuri interineti. Aho bakubwira ngo bacuruza miti bare aho zigura amafaranga magana arindwi, bagacuruza ama cokoreti aho igura amafaranga ibihumbi makumyabiri na bitandatu magana atanu, n'ibindi biribwa bigiye bitandukanye kugiciro cyo hasi bakabasha no kubikugezaho aho wibereye iwawe cyangwa mukazi.

Iyi ni onurayini maketingi, aho ugura ibintu ukoresheje telefone cyangwa mudasobwa, bakabikugezaho iwawe, aho uyu mu motari wa vuba vuba akugezaho ibicuruzwa watumije, wicaye iwawe mu rugo.

Bukorerwa kuri murandasi aho utumiza ibicuruzwa byawe aho waba uherereye ahariho hose bakabikugezaho, waba uri ku kazi, waba uri mu rugo n'umuryango wawe cyangwa waba uri kwishimana n'inshuti, aho bakugezaho ibicuruzwa ukeneye kandi ku giciro gitoya. Aho utanga umwirondoro wawe, ibicuruzwa byaba biva hanze y'u Rwanda cyangwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Iyi ni umumotari wa onurayini shopingi ikorera kuri interineti yitwa vuba vuba, aho utumiza ibintu bakabikugezaho iwawe mu rugo, cyangwa ku kazi, cyangwa ahandi hantu waba uri aho ari ho hose. Aho uyu yaderivarinze ibintu, abivana ku cyicaro cya vuba vuba, abijyana mu baturage babitumije.

Iki ni ikigo k'iposita cya hano iwacu mu Rwanda, aho utumiza ibicuruzwa ushaka bakabikugezaho aho waba uherereye hose, aho utanga umwirondoro wawe, nomero za telefone, amazina ndetse n'ibyo ukeneye bakabikugezaho mu rugo iwawe.

Aba ni abamotari babiri bakorera ikigo cya vubavuba gikorera kuri onurayini maketingi aho utumiza ibintu bakabikugezaho. Nk'ubungubu urabona aba bamotari bazanye ibicuruzwa abakiriya bari batumije muri rakarase hoteri iherereye mu mugi runaka.

Mu Rwanda hari ibigo byinshi bishinzwe kukugezaho ibyo watumije, hakaba hari nk'iki kigo cya Safe Motos aho ugihamagara kuri nomero zeru karindwi mirongo inani na rimwe zeru zeru zeru zeru mirongo itatu na kane hanyuma ukabaha umwirondoro wawe ukabaha n'ibyo ukeneye maze ubundi bakabikuzanira ku giciro gitoya waba wabiguze mu ma supermarket, mu ma hotel cyangwa mu ma butike agiye atandukanye.

Iyi ni online shopping igaragaza ko icuruza fresh vegetable imboga z'ubwoko butandukanye harimo urusenda, imboga, intoryi inyanya, pavuro, karoti n'ibindi byinsh, hasi hakaba hagaragara buri giciro cya buri kintu, ariko bakaba cocomble igura amafaranga magana atandatu na trial mix igura amafaranga ibihumbi bitanu.

Iri ni isoko ryo kuri interinete cyangwa inkoranyambaga rizwi nko guhahira kuri onurayini(online shopping);.hariho ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo ama yuwezibi (imigozi ikoreshwa mu gucagonga terefone),furashi disike(flash disc), terefone za samusange(Samsung),amasakoshi n'amakote. Muri ayo ma onurayini shopingi(online shopping) twavugamo: Kiku(Kikuu) na Alibaba kuko ariho ubasha gutumiza ibikoresho ukeneye.

Igihugu gikorera kuri murandasi kitwa Vuba Vuba gishinzwe kugezaho abakiriya babo ibicuruzwa bagiye batumiza .Aho utanga umwirondoro wawe, nimero ya terefone, amazina yawe ndetse naho uherereye bakabasha ku kugezaho ibyo watumije ibyaribyo byose yaba ari ibiribwa, ibikoresho byo munzu ndetse n'ibindi byose waba ukeneye babasha kubikugezaho murugo iwawe cyangwa ku kazi cyangwa ahandi hantu waba uri hose.

Uyu ni umukozi wa kampani ikorera kuri interineti akaba ari kwamamaza ibicuruzwa bacuruza n'uburyo babikugezaho, igiciro cyabyo n'ingano ya buri kintu uburyo ingana akaba akorera kampani icuruza amaterefone kuko inyuma hari telefone ya samusanga.

Iki ni ikigo cy'iposita gikorera mu Rwanda gishinzwe kubitsa amafaranga, kubikuza ndetse no kuvunjisha amafaranga. Aho cyangwa utumiza ibintu bakabikugezaho bitewe n'ingano y'ikintu wagiye utumiza urabona hari tagisi zishinzwe gutwara ibyo bintu, abamotari ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Iyi ni moto y'ikigo gikorera kuri interineti cya vuba vuba, aho gishinzwe kukugezaho ibintu watumije kuri icyo kigo cya vuba vuba, ukoresheje interineti cyangwa ukoresheje simati foni, cyangwa raputopu, aho ubahamagara kuri rimwe, gatatu, rimwe, warangiza bakakugezaho ibintu. Aho uwo mumotari yaderivarinze ibintu bari batumije.

Iyi ni online marketing, aho utumizaho ibicuruzwa barangiza bakabikuzanira. Iyi online marketing ikaba yitwa Vuba Vuba, ikaba ifite abakozi bashinzwe kuderivaringa ibicuruzwa watumijeho. Uyu nguyu akaba ari umumotari ukorera Vuba Vuba ufite moto ya pulake RD 646 C.

Ni saro nziza cyane iteretsemo intebe z'amadiva z'amabara y'ubururu ameza ateretse ku itapi, inyuma yayo hari saramanje ku ruhande hari amarido akinguye.

Iyi ni onulayini maketi ishinzwe kugeza ibicuruzwa ku bakiliya bayo. Onulayini maketi ikaba yitwa Kasha ikaba ifite abakozi bagiye batandukanye. Nko kuri iyifoto bigaragara ko hariho umumotari ufite akamvirope ashiriye umuntu wagatumye, muri iyi kampani ya Kasha.

Izi ni imodoka z'ikigo gishizwe gutwara ibintu n'abantu cyangwa kuderivaringa ibicuruzwa cyitwa twiga , kibivana ahantu hamwe kibijyana ahandi bitwe n'ibyo watumije n'ingano yabyo, izi modoka ndabona ari imodoka zo mu bwoko bwa suzuki , imodoka eshanu ziri ku muronko.

Uyu ni umuturage uri gukoresha sisiteme ya vuba vuba muri telefoni ya simati foni, aho atumizaho ibintu kuri vuba vuba bakabimugezaho aho ari iwe kandi byihuse, mu gihe gitoya, aho utumiza ibyo kurya, ibyo kunywa n'ibindi bigiye bitandukanye, kuri apurikasiyo ya vuba vuba, ukoresheje telefoni ya simati foni.

Icyapa kinini cyane cy'umutuku n'icyatsi kiri ahantu ku muhanda, kiba kiriho ivide rinini ryitwa sikoru ndetse n'abantu inyuma bari kubyina bizihiwe n'umuziki, banyweye kuri icyo kinyobwa.

Iyi ni kapani ikorera kuri onurayine yitwa famiri buke ikorera Kimironko hotumizaho ibiribwa bigiye bitandukanye harimo imboga, imbuto ,ifarine, amavuta ,inyama nibindi biribwa bigiye bitandukanye aho ukanda akanyenyeri maganatanu akanyenyeri kane akanyenyeri kabiri akanyenyeri rimwe akanyenyeri mirongotanu na gatanu akanyenyeri mirongine akanyenyeri rimwe ugakurikiza amabwiriza